Ku ivomero aho bapompa amazi akaza, bamanura bazamura, buri wese akagenda ashyiraho igikoresho yazanye cyo gutwaramo amazi, hari abana benshi baza kuvoma amazi bajyana gukoresha mu ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ahaturuka amazi meza, abana bari gukina mu mazi bakaraba intoki, bishimiye amazi aba akenewe mu buzima, buri muntu aba akeneye amazi meza mu gukoresha ibikorwa bigiye bitandukanye, abana bishimye kuko babonye amazi.

Abantu bari kuvoma amazi meza aturuka mu ivomero ryiza risukuye babyishimiye kuko amazi ni ngombwa mu buzima arabafasha mu buzima bwa buri munsi hari ukuyanywa kuyatekesha no kuyakoresha amasuku mu rugo maze abantu bakakomeza bakagira ubuzima bwiza.

Abana ni abanyeshuri bambaye impuzankano zabo, bari ku ivomera, bafite indobo bari kuvomeramo amazi meza bagiye gukoresha mu bikorwa bitandukanye nk'isuku ndetse n'ibindi, barishimye kubera babonye amazi, hari kuza amazi meza bakaraba n'intoki, ari bubafashe kugira isuku.

Agatanda gakozwe mu biti, ni ako gushyiraho amasahani mu gihe wayogeje nk'ibikombe, ushaka ko byumuka, ukabirambura hejuru y'ako gatanda, maze bikuma ukabona kubibika. Ni ahantu hatuye abanyu baba bakikoreye kugira ngo bajye bakifashisha.

Umwana ari ku ivomero yaje kuvoma ndetse ari no gukaraba intoki amazi meza asa neza wayanywa, wayakoresha isuku yo mu rugo, wayatekesha, mbese amazi ameze neza abasukuye, akanyura no mu ituyo risukuye, amazi arakenerwa muri buri rugo ku buryo buri muntu ayakenera.

Abantu batatu barabona ko harimo abaganga bafite udukoresho bagenda bifashi mu kuvura, bambaye ndetse n'imyenda y'ubwirinzi ndetse n'udupfukamunwa n'utundi dupfuka mu mutwe ku buryo imisatsi itagenda inyanyagira ahantu hose, baba birinze ku buryo umurwayi wabo bamuvura neza nta kindi kibazo.

Kuri kandagira ukarabe hari isabune ndetse hari n'amazi meza baba bashyizemo, umuntu ari gukaraba intoki yirinda umwanda cyangwa se izindi ndwara zituruka ku mwanda kugira ngo abashe gusa neza n'umuntu asuhuza, amusuhuze nta wundi mwanda afite mu ntoki.

Iriba rivamo amazi meza yifashishwa n'abaturage, umwana ari kuyanywa kugira ngo amufashe mu mubiri yumvaga afite inyota. Hari abantu benshi baba baje kuyavoma abakenewe mu rugo.

Mu ivuriro hari umuganga, umubyeyi yazanye umwana we kumuvuza, muganga ari kureba umwana, areba ubuzima bwe ukuntu buhagaze kugira ngo umwana abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza n'uko yitabwaho.

Abantu bari hamwe ni benshi, harimo abagabo, harimo abana, harimo abamama n'abakobwa, bari gufata ifoto y'urwibutso, barishimye, bafite ubuzima bwiza bose kuko bari kugaragaza ibyishimo baseka.

Ku iriba ahaturuka amazi, ivomera ririmo amazi meza, hari umwana wishimye, ari gukaraba amazi meza, afite ubuzima bwiza, bigaragarira buri wese ko umwana ari guseka, afite akanyamuneza.

Umwana wagiye kuvoma amazi, ni ku ivomeriro rivaomo amazi meza, aba asukuye akaza mu itiyo risa neza, ari kuyanywa yizihiwe. Amazi arafasha mu buzima, aba akenewe muri bugingo bw'umuntu kugira ngo akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Riturukamo amazi meza umuntu ari gukaraba intoki kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye n'umwanda, amazi ni meza buri wese aba ayakeneye kuyakoresha imirimo itandukanye yo murogo.

Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga, bigaragara ko umwana arwaye, umuvuzi ari kumuha imiti yihutirwa amusuzuma kugira ngo arebe ikibazo umwana afite maze avurwe neza byizewe.

Abana benshi bari ahantu hamwe ku iriba, ahava amazi bagiye gushaka amazi, bose bari kuyarwanira batega intoki, bayishimiye, ni ko buri muntu aba akeneye amazi mu buzima bwe, niyo mpamvu rero bose bayishimiye bakajya kuyanywa.

Umuntu wo mu nzego z'ubuyobozi ari imbere, ari kuganiriza abantu ku bijyanye n'ubuzima, kugira ubuzima buzira umuze, abashishikariza ukuntu babaho neza, abereka ibyo bakora kugira ubuzima bwe bakomeze bumere neza.

Ivomero rivamo amazi meza akoreshwa mu bikorwa bitandukanye wayanywa, wayakoresha imirimo yo mu rugo, hano hari umuntu waririmo arayakaraba intoki ubona ko amazi ari ubuzima buri wese aba ayakeneye byose bikaduha ubuzima buzira umuze.

Ku ivomero ry'amazi, ahari abana benshi bari kunywa amazi, abandi bakaraba, bose bari ku murongo bategereje kunywa ku mazi. Abana babyishimiye ko bafite amazi meza, bituma bagira n'ubuzima bwiza.

Ahantu hari gutangirwa ubuvuzi, hari abavuzi bambaye ibikoresho by'ubwirinzi kugira hatagira indwara zanduzanywa mu gihe bari kuvura nk' umuntu. Hari umuntu uri kuvurwa hano ni musaza mukuru bari kumusuzuma mu kanwa barebe indwara yaba afite kugira babone ko bamuvura.

Abantu bica ahantu hamwe bari mu nama, ni abo mu nzego zo hejuru, bari kuganira, bafite insanganyamatsiko bari kuvugaho y'ubuzima bwiza bw'abaturage, biga ku buryo bakomeza gushishikariza abaturage indyo yuzuye ndetse no gukora ibikorwa byiza byagirira akamaro ubuzima bw'umubiri.

Umuntu uri kuri kandagira ukararabe, ari gukaraba intoki bigaragara ko avuye nko mu bwiherero cyangwa se ibindi bikorwa byatumamye intoki ze zandura, maze agakaraba kugira ngo hatagira ikindi kintu yanduza, zikabatera indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bicaye kwa muganga baje gusaba serivisi yo kuvurwa cyangwa se kwitabwaho mu bintu bitandukanye, ubona ko bafite ibibazo barwaye, baje gusaba ubuvuzi kugira ngo babuhabwe babone imiti iri bubafashe mu burwayi bwabo.

Abantu bicaye bamwe bari mu nama, imbere yabo hari umuntu uri kubaganiriza ababwira insanganyamatsiko bagiye kuganiraho, ku buryo buri wese ari butanga igitekerezo maze bakahava bafashe imyanzuro cyangwa se ingamba zijyanye n'insanganyamatsiko bari bagiye kuganiraho.

Abantu ni abamama barihamwe bishimye ubona ko buri wese afite umutima mwiza, bagifite ubuzima bwiza bose iyo bishimye aba ufite ubuzima bwiza biba bigaragarira buri wese guseka ibyishimo mbese.

Umuntu waje kwivuza, ni ibijyanye na Sida yaba kwisuzumisha cyangwa se gufata imiti, ari kumwe n'umuganga aribubimufamo, nyuma yaho hari ikirango cyanditseho ngo:"Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye." Hano hakorerwa ubuvuzi bwa Sida, kugira ngo bafashe abantu kugabanya ubukana ndetse no kwivuza neza.

Abana bari gukarabywa intoki n'umuntu mukuru bose bateza intoki ngo abakarabye, bishimye bari guseka urabona ko bafite ubuzima bwiza, bagira n'isuku bifashisha amazi mu bikorwa byabo bya buri munsi kugira ngo bakomeze babeho neza.

Amazi meza ari kuvomwa, hari umwana uri kuvoma wabyishimiye, abona ko ari kuvoma amazi asa neza kujya kuyifashisha mu rugo wanayanywa, aguha ubuzima bwiza mu mubiri amazi arakenera.

Ku iriba cyangwa se ku ivomero hari kuza amazi meza hari abana babiri bari gukaraba intoki bishimiye amazi bari guseka, kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza ndetse batagira n'indwara zigiye zitandukanye banduzanya mu gihe basuhuzanya cyangwa bari gukina bagakoranaho.

Abana bari mu kiyaga, bari koga, urabona ko bishimye, bafite ubuzima bwiza, harimo abana benshi bari kwishimisha, bakina bakinira mu mazi, ubabona ko byabashimishije.

Urukingo bari gutera umwana, urushinge arabona ko umwana yitonze, bakamuha uyu muti, muganga nawe kubikora yitonze kuko ari kubikorera umwana, uru rukingo rumufasha kugira ubuzima bwiza, bikamurinda ibyuririzi by'indwara zigiye zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ku ivuro cyangwa se aho bari bufashirizwe gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, hari abantu benshi bagiye batandukanye, haba hari n'abantu bari bubafashe.

Ivuriro, hari umubyeyi wajyanye umwana kumuvuza yagize igikomere bari kumupfuka, umuganga ubifitiye ubushobozi ari kumupfuka kugira ngo igikomere yagize kibashe gukira vuba kitajyamo n'imyanda.

Ku ivomero aho hari abana baje kuvoma amazi yo kunywa, yo gukoresha mu rugo indi mirimo, bafite ibikoresho bayatwaramo, amazi n'ubuzima baba bayakeneye mu rugo kugira ngo bakomeze kubaho neza bagire ubuzima buzira umuze.

Abantu baje kwivuza bari kumwe n'umuganga, ubona ko umuganga ari gusuzuma umwana yamwishimiye, ari kubikora abyishimiye kugira ngo abashe gutanga serivisi neza umwana atarakaye.

Abana bishimye bari kumwe n'abantu bakuru ubona ko ari ababafasha mu mibereho myiza, abana bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri, bafite ubuzima bwiza kuko barishimye, bari gusuhuza abantu bishimye, bafite ibyishimo.

Umwana uri kuri kandagira ukarabe, avuye gukora ibintu bimwanduza mu ntoki cyangwa se avuye mu bwiherero, abanjije gukaraba intoki kugira ngo atagira abandi yanduza, ibi byose biterwa n'umwanda cyangwa se kwirinda kugira umwanda.

Ku ivomeraro aho bapompa amazi akaza, aba ari mu itiyo risa neza rikeya ndetse bazana ibikoresho kugira ngo bavome amazi bage kuyakoresha mu rugo, kuyanywa, kuyatekesha, amazi n'ubuzima nk'uko buri muntu wese ayakenera bituma umuntu akomeza kugubwa neza.

Abana bishimye bari ku ishuri bari kuvoma amazi yo kunywa kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza babeho neza, baba bakeneye amazi, urabona ko bose babyishimiye kunywa amazi, baba bayakeneye mu buzima.

Ahantu hari abantu benshi, ababyeyi bazanye abana babo hari abantu bari kubitaho babaha amata bakabasomya kugira ngo abana bazakure bafite ubuzima bwiza, baritaweho bikenewe hari abantu benshi bagiye bazana abana kugira ngo bitabweho, abana bakiri bato.

Ku ivuriro ahari abantu baje kwivuza. Hari abaganga babishinzwe kuvura ndetse hari n'abantu baje kwivuza. Bose bambaye udupfukamunwa tw'ubwirinzi, kwirinda kugira indwara banduzanya zitandukanye.

Nk'umukobwa uri kuri kandagira ukarabe avuye mu bintu bimwanduza intoki cyangwa se mu bwiherero, ari gukaraba n'amazi meza kugira ngo akomezanye isuku ataza kugira indwara bimwanduza cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye, kwanduza abandi arimo arakaraba kugira ngo agire isuku ndetse n'ubuzima bwiza.

Abantu bari hamye mu nama ubona ko bicaye bari kujya inama, bafite umugambi umwe bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, uko abantu babaho neza, uko bakirinda indwara zimwe na zimwe, uko babaha ubuvuzi neza, ibintu bijyanye n'ibyo. Urabona ko bari kuganira bahuje urugwiro.

Abantu bari hamwe hari abana hari n'umubyeyi uri imbere yabo, barishimye bafite ibyishimo bigaragara ko bafite n'ubuzima bwiza, babayeho mu byishimo buri wese afite amahoro bigaragara ko baba bafite n'ubuzima bwiza.

Bari hamwe, bari mu nama, mbere yabo hari abari kubaganiriza bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, bavuga ukuntu ubuzima umuntu agomba kubyitwaramo kugirango abeho neza, bityo abashe kuramba.

Ubuvuzi buri guhabwa umuntu w'umumama ubona ko yashinyirije, bari kumutera urushinge bamutera urukingo cyangwa se undi muti bari kumushyira mu mubiri we ari kubikorerwa n'umuntu ubifitiyemo ubushobozi, ubimenyereye ubizi w'umuganga ku buryo nta kindi kibazo biri bumutere.

Hari abantu benshi, bari gukora ibikorwa byo kuvura, hari abantu b'abaganga babyigiye babifitiye ubushobozi, bari gufata abantu amaraso mu ntoki kugira ngo babasuzume indwara zigiye zitandukanye.

Ivomero aho umwana arimo aravoma yajyanye ibikoresho byo gushyiramo amazi ari butahane mu rugo, yabyishimiye ari guseka kuko abonye amazi, ni ubuzima adufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, amazi aba akenewe kuri buri muntu.

Ku ivomero hari abantu benshi baje kuvoma, amazi, n'amazi meza, bose baba bayashaka kuko arabafasha ntamazi nta buzima. Amazi aguha ubuzima bwiza, kuyanywa, kuyatekesha, kuyakoresha isuku ku mubiri, n'ahan no mu rugo abakenewe buri munsi

Abantu benshi bicaye hamwe bari kuganira buri wese ari gutanga igitekerezo ku bijyanye n'ubuzima, ubona ko baba bakurikiye uvuga bakamutega amatwi ndetse yasoza bakaganira bumva uko icyo gitekerezo cyakurikizaho.

Umuntu uri gukaraba ni kandagira ukarabe, ku buryo avuye mu bwiherero cyangwa uvuyekora mu yindi myanda ahita akaba. Kugira ngo umwanda awukure ku mubiri we ataza kuwurya cyangwa se ngo yanduza ibindi bikoresho.

Ijambo WASAC ifasha mu gutanga amazi meza asukuye, kugira ngo abantu bayakoreshe, buri muntu aba akeneye amazi, baduha amazi meza rero agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye mu ngo, no mu buzima busanzwe.

Ku kigo nderabuzima abantu bashinzwe guha abana bafite ikibazo mu mirire mibi babaha ifu y'igikoma bakabaha n'ibindi byinshi, hano bari gukusanya ibyo bagiye gutanga kugira ngo abantu bakomeze bagire ubuzima bwiza cyane cyane ku bana bakiri batoya.

Kunywa amazi meza menshi, ni ahantu abaturage baza kuvoma amazi yo gukoresha mu ngo, hari abana babiri bari gukaraba intoki bishimiye amazi ko bayabonye baranayanywa. Amazi akoreshwa ibikorwa byinshi niyo mpamvu twese tuba tuyakeneye.

Ivomero rivamo amazi meza, urabona ko asa neza, umwana ari gutega amazi mu gikombe kugira ngo anywe akomeze agire ubuzima bwiza, amazi aba akenewe kuri buri muntu, maze akagira ubuzima bugira umuze.

Umwana uri kuri kandagira ukarabe, avuye gukora ibintu bimwanduza mu ntoki cyangwa se mu mwanda, ari gukaraba kugira ngo akomezanye isuku, ataza kugira indwara bimutera cyangwa se yanduza abandi, afite ibyishimo kuko afite ubuzima bwiza, yabonye n'amazi meza yo gukaraba kugira ngo akomeze agire isuku.

Ahantu hateraniye abantu benshi bambaye imipira isa, bose urabona ko bafite ikintu bahuriyeho, hari abana bicaye hasi abana bato bari kubanywesha amata babasomya buri wese ndetse n'ushoboye kwinywesha kayanywa.

Umubyeyi wajyanye umwana ku ivuriro, kugira ngo bamusuzume amenye indwara arwaye, bamuhe ubuvuzi byangombwa. Umuganga ari gusuzuma umwana arabona ko yabishyizeho umutima yabyitayeho, kugira ngo amenye umwana ikibazo afite.

Abantu bari mu murima bari gusarura imboga zibafasha mu buzima kugira imbaraga mu mubiri no kugira ubuzima buzira umuze, ni umwana n'umubyeyi we ubona ko bishimye kubera ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari ahantu hamwe harimo uri gufasha umwana afite ikibazo ari kumuha ikinini, bose bicaye ahantu hamwe bambaye udupfukamunwa mu buryo bw'ubwirinzi bwo kwanduza indwara zitandukanye, hari abantu bakuru ndetse n'umwana umwe.

Umuntu uri ku ivomera, yashyizeho ivido ijyamo amazi, agiye kuyakoresha mu rugo, mu bikorwa bigiye bitandukanye. Amazi ni meza mu buzima, buri muntu aba ayakeneye kugira ngo abeho neza. Ashobora kuyifashisha akora isuku mu rugo, ayatekesha ndetse no kuyanywa.

Abantu benshi bateraniye hamwe bafite insanganyamatsiko yabahurije hamwe, bari kuganirizwa ibijyanye n'ubuzima, babwirwa uko umuntu agomba kwitwara, ibyo agomba kurya bisukuye kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza ndetse akoresha n'amazi asukuye.

Abantu bicarana hamwe ni benshi, hagati yabo hari umuntu umwe uri kubaganiriza, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, ukuntu abantu bakwiye kwitwara, uburyo bagomba kurya, kugira isuku kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Ku ivomero hari abantu benshi bazanye ibikoresho hari abazanye indobo, abandi bazanye ibindi byo gutwaramo amazi, utujerekani kugira ngo bayatahane mu rugo, bajye kuyakoresha indi mirimo yo mu rugo. Urabona ko ari abantu benshi baba bakeneye amazi bigaragara ko buri muntu aba akeneye amazi, kugira ngo akomeze abeho neza

Umuntu w'igitsina gore ari ahantu hamwe ari guseka yishimye, bigaragara ko afite ubuzima bwiza, kubera ibyishimo ari kugaragaza yasetse.

Nyakubahwa Madamu wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ari imbere, ari kuganiriza abantu ku mushinga wo kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe n'ubundi burwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ari kubabwira uburyo bibatwara ndetse n'ukuntu bagomba kubitaho.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bigaragara bakabitaho bakabafasha mu buvuzi bugiye butandukanye kugira ngo bamererwe neza bongere bagire ubuzima bwiza.

Umuntu wicaye ameze nk'uwigunze cyangwa se afite ikibazo, akeneye ubuvuzi cyangwa se ubundi bufasha, kuko arigunze bigaragarira amaso ya buri wese, afite nk'uburwayi akeneye gufashwa.

Abantu babiri bicaye hamwe, bari kuganira, bahuje ibiganiro, ubabona ko bisanzuye buri wese ariko kuganiriza undi, umubwira ibibazo yaba afite kugira ngo amufashe, bityo bakomeze bagire ubuzima bwiza babana neza, bafashanya...

Ahanini hari abantu bahicaye benshi bari gufashwa mu buvuzi, hari n'imodoka nini itwarwamo abarwayi, harimo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, hari abaganga bajya gufasha abaturage, kugira bavurwe.

Abantu babita ku bana bato n'abakuze bageze mu gihe cy'uburumbuke ku bijyanye no mu mutwe bakabitaho, bakabaganiriza, babaha n'ubuvuzi bwa ngombwa mu gihe bafite ikibazo, aha bifasha buri mwana kumva yisanzuye.

Abantu bari kuganirizwa hari umwe uri kubaganiriza, bavuga ku bijyanye no kuganiriza abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza kandi ntibihebe hari abantu bakurikiye bamwe batanga ibitekerezo bigendeye ku muronko.

Abantu bicaye hano, basohoye intebe bicaye hanze; harimo umubyeyi harimo abana ndetse n'abandi bantu bakuru bari kuganira ku bintu bitandukanye aho bari guseka bishimye kubera ubuzima bafite.

Umuntu w'igitsina gabo, afite ibyishimo, ari guseka, mu kanwa ke amenyo afite ibibazo, hari ayavuyemo yo hejuru n'ayo hasi, andi asigayemo na yo aragaragaza ko afite ibibazo, amenyo ni ayo kwitabwaho kugira ngo yongere asubirane ibara ry'umweru.

Mu nyubako abantu bicayemo, harimo umuyobozi wicaye imbere n'abandi bafatanyije, hari abantu bari kuganiriza, afite indangururamajwi, ari kubabwira ku bijyanye n'ubuzima n'uko abantu bitwara kugira ngo babeho neza, ibyo birinda ndetse n'ibyo bakora, akaba ari kubwira abantu bose kugira ngo tumenye kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko hari igikorwa bari bagiyemo ni ku kigo gikuru gishinzwe kwita ku bantu bafite ubumuga bwo mu mutwe n'ibindi bibazo n'abana bafite ibibazo

Abana bari hamwe baseka, bishimye, bakaba bari gukina bahuje urugwiro kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza, bitabwaho n'ababyeyi babo maze buri mwana akagira ubuzima bwiza.

Isange one stopcenter ni ikigo gifasha umuntu mu burenganzira bwe agahabwa uburenganzira akwiriye, aho iyo ugize ikibazo ubagana bakagufasha mu gihe wahuye n'ibibazo byo kubuzwa uburenganzira bwawe cyangwa se kubangamirwa.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe n'ubumuga ubona ko ari ahantu hamwe kugira ngo adakora ibintu bitari byiza arigutekereza arigunze ubona ko afite ikibazo.

Ahantu hari abantu benshi barahagaze bari gukoma amashyi yerekana ko hari umuntu uvuze ijambo bakaryishimira hanyuma bakamuha amashyi, barishimye bitewe n'ibyo baje kuganiraho, ukuntu bafasha abantu kubaho neza n'abafite ibibazo byo mu mutwe bakabitaho kugira ngo batiheba.

Ubuvuzi bukorerwa ku muntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se ikibazo cyo mu bwonko, byifashishwa mu buvuzi bukomeye, aho ugenda bakagusuzuma maze bakaguha ubuvuzi bw'ibanze.

Abantu bicaye ari babiri, umwe yifashe mu mutwe afite agahinda, agaragara nk'umuntu ubabaye, hari n'undi uri kumufasha, amuhoza, amwumvisha ko nta kibazo agomba kugira mbese amu iruhande kugira ngo amufashe gushira agahinda.

Mu muhanda mu nzira, umuntu yicaye hasi arihebye, afite ikibazo ko bigaragara, kuko aringunze yicaye wenyine, nta wundi bari kumwe, imyambaro yambaye irasa nabi yarangiritse ndetse n'inkweto n'uko, akeneye ubufasha kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza.

Umubyeyi wicaye ahantu wenyine, ari gutekereza cyane bigaragara ko afite ikibazo ari gutekerezaho, yicaye ahantu ha wenyine yigunze, ari gutekereza ibintu byinshi.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari kuganira, harimo ababyeyi bakuru, harimo urubyiruko, harimo n'umwana muto. Bari kubaganiriza kugira ngo bose bishime bumva ari umuntu umwe bakomeze babane neza mu mahoro bafite n'ubuzima bwiza.

Mu ivuriro ry'abanyeshuri, aho basuzuma mu mutwe niba umuntu nta kibazo afite mu mutwe we mu bwonko, bavura abantu bifashishije ibikoresho bya kijyambere, bafite ibibazo byo mu mutwe bigiye bitandukanye.

Umuntu afite ubumuga bwo mu mutwe. Ubona ko yambaye imyenda yabaye nabi yacitse, afite ibintu by'imyanda ari mu muhanda. Ubona ko akeneye ubuvuzi kugira ngo amererwe neza.

Umuntu ugaragara nkaho ari mu zabukuru, ni igitsina gore urabona ko afite ibibazo arababaye ntabwo yishimye, bigaragara ko afite ikibazo cyo mutwe gutyo, akeneye ubufasha n'ubuvuzi bwihutirwa.

Umuntu yikoreye igitebo kirimo amababi y'ibimera, ndetse afite n'isuka bigaragara ko avuye mu murima. Obona ko ari guseka ameze nk'umuntu ufite ikibazo agomba kwitabwaho.

Mu ivuriro hari ibikoresho byifashishwa mu kuvura amenyo, aho umurwayi aryama bakamurebera ibibazo afite mu kanwa, amenyo afite ikibazo bakamufasha bitewe n'ubuvuzi ashaka, buri gikoresho kiba gihari gikenewe.

Mu ivuriro bashinzwe kwita ku menyo y'abantu cyangwa se uburwayi bw'amenyo, hano umuntu bari bari kumukorera mu kanwa, bamusuzuma ngo barebe ikibazo amenyo afite, ndetse bamukure nimba ari ngombwa cyangwa se bamushyiriremo andi menyo.

Kugirira isuku mu kanwa cyangwa se amenyo yawe, umuntu ari koza amenyo akoresheje umuti wifashishwa mu koza amenyo, ndetse n'agakoresho koza amenyo, yabyishimiye ubona ko amenyo ye asa neza, kubera kuyoza no kuyagirira isuku, buri wese aba abikeneye kugira ngo amenye neza.

Ni umwana uri kwigishwa uburyo boza amenyo ukayagirira isuku bayamwereka aho agomba kwibanda, gukuramo imyanda neza mu menyo, kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kuba ahantu hose afite isuku, rero no kugirira amenyo isuku biri mu bintu by'ingenzi, bafite agakoresho koza amenyo niko bari kumwerekesha bamwereka uburyo abigenza.

Ishusho iba yafashwe mu gihe bari gusuzumwa umuntu mu kanwa bareba uko amenyo ye amerewe, maze bakareba ibibazo afite kugira ngo bamenye uko bamuvura. Iyi shusho iba iri kwerekana amenyo afite ikibazo ndetse n'amenyo mazima.

Umuntu uri gukora isuku mu menyoye, afite agakoresho k'akadodo ari gukurishamo imyanda hagati y'amenyo, ni imyanda iba yasigayemo mu gihe ari kuyoza, akayikuramo yose akayimaramo, amenyoye arasigara asa neza kuko ari bube yayasukuye neza bikenewe.

Umuntu uri guseka yerekana ukuntu mu kanwa ke hameze, amenyo ye ukuntu asa neza. Abayayagiriye isuku akoresha umuti wabugenewe mu kanwa, kugira ngo akomeze amere neza. Kandi bimurinde n'impumuro mbi mu kanwa, amenyo arasa neza n' umweru nk'ibara ryayo.

Mu ivuriro umwana ari kwa muganga, aryamye ku gatanda k'abarwayi, bari kumusuzuma, muganga ari kubimufashamo areba mu kanwa ke amenyo ye ko nta kibazo afite, niba nta bindi bibazo birimo.

Mu kanwa k'umuntu uko amenyo ye aba ahagaze, baragusuzuma bakamenya amenyo yawe ikibazo afite, bakaguha ubuvuzi bw'ibanze, akeneye gukurwa bakayakura, byose bikorerwa mu ivuriro ni ho bagufasha ku bijyanye n'izi ndwara.

Umuntu waje kwivuza ikibazo cyo mu kanwa urabona ko ari ku ntebe yabugenewe aryamaho bagasuzuma amenyo ye niba hari ikibazo afite, aba yishimiye serivisi ari guhabwa haba hari ibikoresho byabugenewe kandi by'ikoranabuhanga.

Mu ivuriro hari abaganga babiri bari gufashe umwana, bareba mu kanwa ke niba amenyo ye afite ikibazo, cyangwa se hari ubundi burwayi afite bwo mu kanwa, kugira ngo babashe kumuvura, bityo amererwe neza.

Iyi nyubako ni ivuriro bavura cyangwa se bafasha abantu bafite ikibazo cy'amenyo, aho bareba ikibazo ufite bakagufasha bashobora kugukura ku kugumera iryinyo n'ibindi bitandukanye.

Ahantu mu ivuriro barasuzuma bakavura abantu, hari abantu babiri rero bari guseka abona ko nabo amenyo yabo asukuye basa neza kubera abayoza bakagira ubuzima bwiza, nabo barishimye rero babasa neza.

Ivurirwamo indwara zijyanye n'amenyo, haba harimo ibikoresho byose byabugenewe aho abantu bicara, aho babasuzumira byose biba biteguye ku buryo umurwayi agenda bamusuzuma byemewe.

Ivuriro ririmo ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo cyangwa se ubuvuzi bwo mu kanwa aho umuntu aza bakamusuzuma mu kanwa bakareba amenyo ubuzima afite niba afite ikibazo bakamuvura bitewe n'ikibazo mu kanwa ke cyangwa amenyo afite.

Amenyo y'umuntu asa neza, ari kuyerekana yasetse yishimye yerekana ko amenyo ye afite ubuzima bwiza, ibi byose buri muntu aba abyifuza kugira amenyo meza asa neza iyo wayagiriye isuku.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi ari kumusuzuma mu kanwa, areba uko amenyo ye ameze niba afite ibibazo. Muganga yambaye ibikoresho by'ubwirinzi, harimo agapfukamunwa, ga bambara mu ntoki, ndetse yambaye n'umwenda w'akazi, ugaragaza umwuga we.

Abana bari koza amenyo bakoresheje umuti wabugenewe wo koza amenyo ndetse bafite n'igikoresho cyifashishwa mu koza amenyo neza ari cyo bita uburoso, abana urabona ko babyishimiye koza amenyo yabo kugira ngo bagire isuku na bo bakomeze bamererwe neza.

Ivuriro, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, biteretse aha, biba bifite isuku, hari ibiba byifashishwa mu gukura amenyo, gusuzuma uko amenyo ameze mu kanwa niba nta kibazo afite, mbese buri murwayi bakamufasha bitewe n'ikibazo afite.

Umwana uri koza amenyo ye kugira ngo akomeze amere neza, bimurinde kuzagira ibindi bibazo nk'uburwayi bw'amenyo n'ibindi. Kuyasukura birafasha urabona ko amenyo y'uyu mwana asa neza, iyo uyasukuye rero akomeza akagira ibara ryayo ry'umweru.

Ahantu hari abantu benshi abaganga bari gufasha umurwayi ufite indwara zo mu kanwa, amenyo se hari abantu benshi n'abaganga benshi bari kubafasha kubasuzuma, maze bakabaha imiti iri bubafashe.

Umuntu uri guseka yerekana ko amenyo ye ameze neza, afite akadodo kifashishwa mu kunyuzwa hagati y'amenyo, gakuramo imyanda iba yasigayemo mu gihe wayogeje nake neza, aka kagufasha kugira ngo amenyo akomeze amererwe neza yirinde imyanda igumamo bikayangiza.

Umuntu uri guseka yerekana mu kanwa he, amenyo ye ukuntu ameze asa neza, nta mwanda uri kugaragaraho, bigaragara ko aba yayitayeho, akayagirira isuku kugira ngo na yo ase neza.

Umuntu ufite akadodo kaba gasukuye, hanyuma kakanyuza hagati y'amenyo, akuramo imyanda iba yasigaye mu menyo. Ibi birafasha iyo umuntu yogeje amenyo, hagasigaramo utuntu hagati y'amenyo tw'imyanda, anyuzamo aka kadodo, maze ya myanda igashimo yose, amenyo agasigara asa neza ku buryo nta n'indwara yayataka.

Umuntu uri guseka ari kwerekana akadodo cyangwa se akagozi kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo, kwa kundi umuntu yoza amenyo hagasigaramo imyanda hagati, yifashisha kano gakoresho kugira ngo ya myanda yasigayemo ayikuremo maze amenyo ye akomeze agire ubuzima bwiza ayarinde indwara no gusa nabi.

Ubuvuzi bw'amenyo cyangwa se bwo mu kanwa, hari umuganga uri gusuzuma umwana areba mu kanwa ke mu menyo ye, ukuntu ameze, niba harimo imyanda, kugira ngo amusukurire amenyo cyangwa se nimba hari ibindi bibazo amenyo ye yaba afite.

Umuntu ari guhabwa ubuvuzi, bwo mu kanwa, mu menyo bareba ikibazo amenyo ye afite kugira ngo bamufashe bamuvure, bitewe n'ubuvuzi bari buhite bamuha ako kanya, kugira ngo bimufashe, kuri iyi ndwara ye yo mu kanwa.

Igitsina gabo ari guseka yishimye, ubona ko amenyo ye akeye afite isuku, afite n'utundi dukoresho ari kwerekana mu ntoki twifashishwa mu buryo bw'amenyo kugira ngo umuntu akomeze agire mu kanwa hagaragara neza amenyo ye asa neza.

Mu ivuriro abantu bafasha mu burwayi bw'amenyo, hano haba hari ibikoresho uryamaho bakagusuzuma mu kanwa, bakareba amenyo yawe niba hari ikibazoafite bakagufasha, bakaguha ubuvuzi bw'ibanze ku buryo uri bumere neza.

Mu ivuriro ahabikwa ibikoresho, hano hari agakoresho kifashishwa mu buvuzi bwo mu kanwa, amenyo, aho bagafata bakagakoresha abaganga babishinzwe baba barabyigiye ndetse baba babifitiye ubushobozi, ku buryo babikora byizewe.

Mu ivuriro hari abaganga babiri n'umurwayi aryamye ku gitanda, bari kumusuzuma mu menyo mu kanwa bareba, amenyo ye ubuzima bwayo niba ameze neza cyangwa se afite ibibazo. Kugira ngo babashe kumufasha yongere abe meza, kandi asubirane ubuziranenge.

Umuntu uri gukorera isuku mu menyo ye, bari kunyuza aka kagozi mu menyo hagati, kugira ngo akuremo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo mu gihe wayogeje hagasigaramo utwanda, kano gakoresho kagufasha kugabanyamo iyo myanda maze ukagira ubuzima bwiza n'amenyo yawe asa neza ku buryo nta bindi bibazo ugira.

Mu ivuriro bari gusuzuma umuntu mu kanwa ke, bareba amenyo ye nimba hari ibibazo afite, nimba harimo imyanda, cyangwa se ibindi. Ni abaganga babifitiye ubumenyi n'ubushobozi, bambaye agapfukamunwa, mu buryo bwo kwanduzanya indwara, yo mu mihumekerero. Baba bafite ibikoresho byabugenewe kandi bifite isuku, aho uyu murwayi bamufasha, bakareba ko nta kindi kibazo afite mu menyo.

Umupapu uri mu zabukuru uri kumwe n'undi mukobwa bari guseka bishimiye bahoberana, buri wese yishimiye undi bafite n'ubuzima bwiza baba bitaweho mu buzima uko bikwiriye.

Abantu babiri bari mu muhanda harimo umwe uri mu zabukuru afite igikoresho ari kugenderaho, mu gihe amaguru ye ataba akomeye kiramufasha kikamufasha kugenda ari kumwe n'umuntu ushinzwe kumwitaho cyangwa se umufasha bari kugenda baganira amugendesha agake gake barishima.

Abantu bari hamwe ni umubyeyi uri mu zabukuru, n'undi mubyeyi, n'umwana, barishimye bari guseka, bafite ubuzima bwiza, bari kwita kuri uyu mubyeyi uri mu zabukuru, bamuha ubuzima bwiza, bamufasha kubaho neza, bamwitayeho mu buryo bushoboka, kuko barishimye cyane.

Abantu bari mu zabukuru, bafite ibyishimo bari mu mikino, baba bafite umuntu ubitaho cyangwa se ushinzwe kubamenya, akabafasha mu byo bakeneye.

Abantu bakuru ni umugabo n'umugore ubabona ko bari mu zabukuru, bari gufata imiti baganira, iyi miti ibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza bakabaho neza, nta bindi bibazo bafite mu buzima.

Mu nyubako abantu bari mu zabukuru babamo hari umuntu umwe, ari kwifashisha igikoresho cyabugenewe cyangwa se icyuma cyabugenewe kimufasha kugenda bitewe n'uburwayi afite bwo mu maguru bidashoboka ko yagenda adafite ikindi kintu yifashishije.

Abantu bicaranye, ni umwana n'umuntu mukuru ubona ko ashaje bari guseka, bari gukina ubona ko bafite ubuzima bwiza bitewe n'ibyishimo bari kugaragaza nta kibazo kindi bafite bari kugaragaza.

Abantu bari mu zabukuru bicaye hamwe bari kuganira mu isoko, aho bacuruza imbuto zigiye zitandukanye n'ibindi, inyuma yabo hari amaronji n'ibuto zo mu bwoko bugiye butandukanye, bahuje urugwiro bari kuganira ubonako bishimiyemye ko bafite ubuzima bwiza.

umuganga ufasha uyu muntu uri mu zabukuru bishimye abamuganiriza bahuje urugwiro amubwira bimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza kugira ngo akomeze afite icyizere cyo kubaho yishimye

Abantu bari mu zabukuru, ni umukecuru n'umusaza we, barishimye mu guseka, bigaragara ko bafite ubuzima bwiza, baba bari kuganira, bahuje urugwiro, basekana, ubona ko ari ibintu byiza, buri wese yagakwiye kwishima, kugira ngo akomeze abeho neza.

Umubyeyi mukuru ari mu zabukuru biba bigaragara, ari kumwe n'ushinzwe kumwitaho bari kuganira baseka bahuje urugwiro. Uyu mubyeyi aba akeneye kwitabwaho mu gihe hari ikintu akeneye akagihabwa kugira ngo abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abantu bishimye harimo abakuru harimo abana nkana ko bishimye nabo bafite ubuzima bwiza babayeho neza niyo mpamvu baba bafite n'ibyishimo by'ubuzima bumeze neza n'abantu barishima ko nta kibazo baba bafite.

Umubyeyi uri mu za bukuru ari kumwe n'abantu babiri bari kumufasha gutambuka, baba bashinzwe kumwitaho, aho bamufasha muri kimwe ashaka cyangwa se akeneye, bari kumutambugisha ngo agerageze guhaguruka, yumve uko ubuzima bwe buhagaze.

Abari mu zabukuru aho bafashirizwa haba hari abagomba kubitaho bari kuganira bahuje urugwiro basekana, urabona ko bishimye, ubitaho nawe abari iruhande abafasha mu buryo butandukanye, abahera imiti ku gihe ndetse n'ibindi.

Abantu benshi hari igikorwa kiri kuhabera, hari umubyeyi mu zabukuru bahaye impano y'ubwiyorozo twakita ikiringiti, arishimye abantu bose bari gukoma amashyi babyishimiyera.

Mu ivuriro harimo umuganga uri gufasha umubyeyi mukuru amusuzuma amukoresha imyitozo mike mike kugira yumve niba umubiri we nta kibazo ufite ubona ko bamukoresha neza yabyishimiye.

Muzabukuru, afite umuntu uri kumwitaho, amukoresha imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agorore amagufa yo mu kaboko, baba bitaweho, bafashwa no mu bintu byose.

Abantu bari hamwe, bari mu nyubako ni abantu bari mu zabukuru, bari ku meza barya, basangira, bishimye bari guseka bafite ibiganiro byiza kuko bafite ubuzima bwiza niyo mpamvu baba bishimye.

Abantu bari hamwe ni igitsina gore, ni bakuru urabona ko bafite imyaka myinshi, bari hamwe bari kuganirizwa bahabwa amahugurwa y'ukuntu bagomba gukomeza kubungabunga ubuzima bwabo neza nubwo ari bakuru.

Abashinzwe kwita ku bari mu za bukuru babazaniye ibikoresho babona ko babitayeho, barishimye cyane. Ni utugare two kwicaramo, intebe zo kwicaraho n'ibindi bikoresho bakenera, hari abantu benshi bitabira icyo gikorwa.

Umuntu uri mu za bukuru wicaye, imbere ye hari undi ukwiye kumwitaho cyangwa se ushinzwe kumwitaho, ari kumuha imiti iri bumufashe kubera uburwayi afite, aba ayimuhera ku gihe kugira ngo akomeze amere neza.

Umubyeyi agaragara ko ari mu zabukuru, ari gufata imiti kuko urabona ko arwaye, aho aba afite abantu bamwitaho bakamuha imiti ku gihe, buri kintu cyose akakibonera ku gihe kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Hano hari umuntu uri mu zabukuru w'umusaza, ari kumwe n'akana bari gukina gafite igikinisho bafite ibyishimo, buri wese arishimye ko bafite ubuzima bwiza baba bitaweho.

Abantu baba bahuriye hamwe bari mu zabukuru, baba bahuje ibiganiro bari kuganira baseka kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza, baba bafite n'ababitaho maze bakabaho neza.

Ahantu abantu bari mu zabukuru bateraniye, ni benshi harimo abasaza, hakabamo abakecuru, hari umuntu uri kubitaho agenda abaha buri kimwe ashaka , akareba niba hari n'ibibazo bafite akabibakemurira.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi ari kugorora umugongo we agorora amaboko agorora amaguru, kugira ngo umubiri we ukomeze ukore neza nta bindi bibazo ufite agire ubuzima bwiza.

Abantu bicaye hamwe bari guseka barishimye, bari kumwe n'umwe uri mu zabukuru bamwitaho, bakina kugira ngo bamufashe kugira ibyishimo, ubuzima bwe bukomeze bugende neza, bari guseka bishimanye mbese bahuje urugwiro.

Umubyeyi uri mu zabukuru ari gusuzumwa umuvuduko barebe uko amaraso ye ahagaze mu mubiri, ni umuganga ubifitiye ubushobozi uri kumusuzuma, aba abizi uko abigenza ndetse aba afite ibikoresho byemewe byujuje ubuziranenge.

Inyubako ifashirizwamo cyangwase ibamo abantu bari mu zabukuru, hano hari umwana n'umubyeyi bari gukina barishimye, umubyeyi yishimiye gukina n'umwana we, bicaye ahantu heza hagaragara neza hari isuku.

Umubyeyi ari mu zabukuru, ni igitsina gore afite insanganyamatsiko mu ntoki, ari imbere ahantu hari igitereko umuntu agenda ahagarara imbere akavuga, ari kugira icyo avuga ku nsanganyamatsiko bari kuganiraho hamwe n'abantu bari aho ngaho.

Umuntu wicaye yicaranye n'abana ndetse n'undi muntu mukuru bari kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima, kugira abajye babaho neza n'abo bitware neza kandi barye ibiryo bifite isuku, mbese ari kubasobanurira uburyo umuntu abaho neza, urabonako bakurikiye.

Abantu bicaye hamwe bafite abana bigaragara ko baje kubakingiza cyangwa se kubakoreshereza ubundi buvuzi babiteho, babyishimiye bagannye ivuriro kuko baryizeye riri bubafashe.

herfpp rwanda ni uburyo babungabunga abantu babigisha uburyo bitwararya barya ibiryo byuzuye intungamubiri ubuzima bwabo bugakomeza bukamera neza ku buryo buri muntu aba afite ubuzima buzira umuze

Bari kutwereka umuntu basuzumye, bareba mu mutwe we uko bimeze. Mu bwonko bwe nimba nta kibazo afite, ku buryo bahita bamubwira niba hari indwara afite. Hano bagufasha kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze mu gihe bagusuza.

Abakuru mu nzego z'ubuyobozi hateraniye abantu benshi, bari kuganira ku buryo bahaga icyorezo cya Maburg, aho cyari cyarugarije abantu benshi ku isi bacyanduzanya, bifata abantu benshi ndetse bigatuma bamwe banahatakariza ubuzima.

Abantu bicaye hamwe ni benshi baruzuye, barakurikiye bari kuganira ku bintu runaka bijyanye n'ubuzima, ukuntu umuntu abaho neza ubona ko babyitabiriye ari benshi, bari kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko.

Ikirango cyerekana igihe bazasuzumira SIDA, aho hazaba ari umwe kuri umwe, yinjira bamusuzuma, undi aza, byari kuba ku wa gatanu, ku itariki makumyabiri n'icyenda, muri bibiri na makumyabiri na kabiri.

Umuntu wicaye ni igitsina gore afite indangururamajwi, ari kuganiriza abantu ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'umuntu, imibereho ya muntu, ubuvuzi ahabwa kugira ngo abeho neza.

Abayobozi bashinzwe iby'ubuzima bw'umuntu, bari kuganiriza abantu bababwira uburyo bagomba kwitwara, kugira ngo bakomeze bagire ubuzima buzira umuze n'ubuzima bwiza, mu kubabwira ibiryo bifasha umuntu kumererwa neza, gukora imyitozo ngororamubiri n'ibindi.

Umurwayi yagize ikibazo kihutirwa bimubayeho atari ku ivuriro bahita bahamagara abantu baribumufashe, bakamuha ubuvunzi bw'ibanze, akabona guhita ajya kwa muganga. Hano bari kumufasha, bamuha ubuvuzi bwihutirwa kugira ngo adahita agira ibindi bibazo bikomeye.

Ahantu hari abantu benshi baratamye hari ababyinnyi bari kubyina, imbere hari ikirango kiri kubereka bitewe n'ibyabazanye aho ngaho n'ubundi ni ibijyanye n'ubuzima RBC bababwira uburyo ubuzima bwabo ari ngombwa bagomba kububungabunga.

Ikirango kiri kwerekana Minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage, iyi minisiteri ishinzwe kwita ku baturage mu bijyanye no kubaho neza, ubuvuzi bwiza, imirire myiza, bashishikariza abantu kurebaho neza, ndetse n'ukuntu bakwitwara neza kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bufite umuze.

Ikirango kiri kwerekana ukuntu wakwirinda kanseri, baba bakweretse uburyo bugiye butandukanye wakoresha, ukirinda kurwara kanseri cyangwa se kuyandura.

Abantu bari gukorana mu ntoki basuhuzanya, urabona ko bafite amasezerano bamajije gusinyana, ni mu bijyanye n'ubuzima n'ubundi bafasha ubukangurambaga bw'abantu kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza ku mavuriro kugira ngo bajye bafasha abantu, bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Abantu babiri bafashe ikirango cya RBC, cyanditseho twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, bari bari gushishikariza abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu kugira ngo bahabwe imiti maze bakire, kitazabangiriza ubuzima mu minsi iba iri imbere.

Abantu bari mu nama hari umuntu umwe uri kubaganiriza bafite insanganyamatsiko runaka bari kuganiraho, ndetse bavuga no ku buzima, harimo abantu benshi bateze amatwi buri wese atanga igitekerezo ke uko abyumva, maze bagahuriza hamwe ibitekerezo.

Abaganga babiri, bambaye ibikoresho by'ubwirinzi udupfukamunwa n'impuzankano zabo, hari ibikoresho bitandukanye bari kwifashisha basuzuma abantu, hari umuntu uri mu zabukuru w'umusaza, ari gusuzumwa mu kanwa arebe uko amenyo ye ameze, kugira ngo barebe niba hari ikibazo afite.

Ikirango kiri ku nyubako cyerekana ahantu hari farumasi cyangwa se hacururizwa imiti igiye itandukanyekanye, haba harimo buri muti wose ukenewe ndetse n'ushinzwe kuwutanga.

Mu nyubako y'ubuvuzi, hari umuganga, hari ibyuma ari gukanda kugira ngo arebe ku bijyanye n'imiti, urugero rw'imiti agomba gutanga n'ibindi, haba harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abantu.

Abantu bari mu nzira, ni ahantu hakoze neza hari inyubako zikorerwamo ubuvuzi aho umuntu wajyayo afite indwara runaka bakamuvura bakamuha imiti iri bu umufashe kuri iyo ndwara ye, n'abantu bari kuvayo bavuye kwivuza urabonako hagendwa.

Inyubako ni farumasi ahacururizwa imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, iba ifite ahantu ibitse, iyo umuntu aje kuyigura bakamurebera umuti ashaka bakawuha, haba harimo umuntu ushinzwe kuyicuza, iyi miti kandi iba yemewe n'amategeko ku buryo umuntu uyitwaye nta kibazo kindi kibi yamutera.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu mu ivuriro, bafasha buri muntu ikibazo afite, urubona ko haba hari abantu benshi, aho bakuvura bakaguha imiti ukeneye, iri bugufashe kongera kumera neza.

Inyubako, imbere yayo haparitse moto, hari umuntu uri gusohokamo, hejuru hari ikirango cyerekana ibikorerwa muri iyo nyubako, ni farumasi aho ugenda ukagura umuti cyangwa se ukivuza bakaguha imiti iri bugufashe koroherwa.

Inyubako nini ifite imbere hari ubusitani, ni ivuriro abantu baza kwivuza bitewe n'indwara buri wese afite, kugira ngo bamumufashe bamuhe imiti iri bumworohereze agakira akamera neza. Haba hari abantu benshi abaje kwivuza hari n'abavuzi ari bo baganga.

Mu ivuriro inyubako yubatse neza isize n'amabara meza, hari intebe abarwayi bicaraho, aho baza bakicara barindiranye ari benshi hakajya hinjira umwe umwe bamukorera asohoka. Haba hari n'abaganga babishinzwe bagenda babafasha uko muje.

Mu nyubako irimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye bisuzuma abantu, hari umuganga wambaye agapfukamunwa, ari ku mashini mudasobwa ari kurebamo ibintu bitandukanye.

Inyubako nini irimo ibikoresho byabugenewe byo gukoresha imyitozo ngororamubiri, umuntu wese ubishaka araza agakora imyitozo, haba harimo ibikoresho byinshi kandi byiza, bifasha umuntu mu myitozo ye.

Uruzitiro ruri kutwereka ibitaro bya Kabgayi, aho abantu bajya kwivuriza buri ndwara bakagufasha, haba hari abantu bari kwinjira, abandi basohoka ubona ko batanga serivisi nziza.

Mu nyubako mo imbere ni nini harimo umwanya munini wisanzuye, harimo intebe zo kwicaraho n'ibikinisho bigiye bitandukanye, ubona ko hasa neza hasizemo amabara meza.

Inyubako nziza urabonako irinzwe ifite umutekano ni iy'ubuvuzi, ni ivuriro rifasha abantu bafite uburwayi butandukanye ku buryo babafasha ndetse n'inyamanswa, bakavura bitewe n'ikibazo.

Inzu nini igerekeranye isize amarangi meza y'umweru, hariho ibirango byerekana ibyo bakora hari urujya n'uruza rw'abantu baba baje kwivuza ni ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, haba hari abarwayi bagiye batandukanye bafite indwara zitandukanye aho baba baje kwivuza ngo bahabwe imiti iri bubafashe mu barwayi bafite.

Inyubako nini, ni aho bakorera ubuvuzi bw'ingingo, bahakorera imyitozo ngororamubiri, haba hari ibikoresho byabugenewe, kwiruka, kwicaraho, guterura ibintu biremereye kugira ngo amaboko akomere, n'ibindi bitandukanye, niho umuntu ushaka gukomera agana bakamufasha kuko haba hari ibikoresho byose bikenewe.

Inyubako nini irimo ibikoresho byiza bifite isuku ,ni ivuriro urabonako haba harimo isuku , koko nk'ivuriro rigomba kuba risa neza hari intebe abantu bicaraho baje kwivuza ,hari izabafite ubumuga urabonako haba hari abantu baje kwivuza.

Inyubako nini itangwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, gutanga imiti, gusuzuma abarwayi bakabafasha mu bikorwa bimeze gutyo, haba hari ibikoresho byabugenewe ndetse n'abashinzwe gutanga iyo serivisi.

Mu nyubako y'ivuriro hari abaganga, imbere yabo hari igikoresho bifashisha mu gusuzuma umuntu, bitewe n'ibibazo afite. Baramusuzuma bakabona indwara arwaye, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye afite, maze bakabona uko bamuhe imiti.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, hari intebe zihari abantu bicaramo bagasuzumwa, hari n'imashini zishinzwe kubasuzuma y'ikoranabuhanga bakamenya indwara barwaye, bityo bakabafasha bitewe n'uburwayi bafite.

Inyubako nini iri ahantu heza, hari abantu hanze, iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se gufasha abantu barwaye, bakabaha imiti ibafasha, hajya abantu benshi kuko urabona ko ni na hanini, buri muntu wese ajya kuhasaba serivisi.

Ivuriro ririmo ibikoresho byiza kandi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abantu no kubaha imiti mu gihe babonye indwara barwaye, hari ahantu bakirira abantu hari intebe, umuntu uje kwivuza arabanza bakamwakira bakumva ikibazo afite bakamufasha.

Mu ivuriro aho bari gusuzuma umuntu hari umuganga ubifitiye ubushobozi n'ubumenyi afite igikoresho cyabugenewe cyo gusuzuma umwana wamuganye cyangwa se umuntu, ari kumusuzuma kugira ngo arebe uko mu mubiri we bihagaze.

Mu nyubako ni ivuriro hagiye hari ikirango cyerekana aho hantu ibihakorerwa, hari aho baruhukira, hari aho batangira imiti mbese byose bi biriho ku buryo umenya aho ujya.

Ivuriro ni inyubako yubatse neza, hariho ibirango byerekana icyo bakora n'ibikorwa bikorerwa aho hantu, hari indabo nziza, ubusitani bwiza, hari isuku, hafite ishusho nziza ku buryo umuntu uje kuhivuriza aba yizeye ko ari buhabwe serivisi nziza.

Mu ivuriro harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abantu harimo n'intebe yo kwicaraho, ibi bikoresho bikoreshwa n'abantu babifitiye ubumenyi ndetse n'ubushobozi kugira ngo bafashe umurwayi uko bikwiriye.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere yayo hari imikindo, ubusitani bwiza bukozemo isuku, iyi nyubako yitwa porikilinike di pulato, ikorerwamo ubuvuzi aho bavura abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse bakanasuzuma indwara zabo bakaba imiti.

Ubutaka ni amarembo y'injira mu ivuriro rya Kabgayi, hari abantu bari kwinjiramo, hari n'abari gusohokamo, hari amazu bafashirizwamo cyangwa se ivuriro ,hari ibiti bitanga amabumbezi hepfo, ku buryo buri muntu wese, ugezeyo bamufasha mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Ahantu hari icyanya kinini kirimo inyubako nini. Harimo ivuriro rya legacy. Bavura buri muntu wese ufite ikibazo baramufasha. Aho bagannye bakagusuzuma bakareba indwara ufite maze bakaguha imiti. Imbere y'inyubako hari ikibanza kinini baparikamo amamodoka. Harimo amamodoka atandukanye. Haba hari n'umuntu ushinzwe kwereka abantu uko baparika bikarinda akavuyo.

Ivuriro cyangwa se isuzumiro hari intebe zabugenewe zo kwicaraho umurwayi bakamusuzuma, hari igikoresho kifashishwa mu gusuzuma aho umenya indwara umurwayi afite maze bakamenya n'imiti mukenera imuvura.

Inyubako iri ahantu heza hisanzuye mu ivuriro, hano bari kutwereka umuryango, aho ababyeyi bajya kubyarira, urabona ko haba hasa neza, buri wese yakwishimira kujya kwivuriza hano hantu.

Mu nyubako nini harimo abaganga bari gushyira imiti hamwe kugira ngo ibe isukuye ihabwe abarwayi isukuye, baba bayikoreye isuku ndetse n'abo bafite isuku kugira ngo bakore akazi kabo neza.

Inyubako igaragara neza mu ivuriro rya Kigina, aho ababyeyi, abamama, abapapa, abana, baza kwivuriza mu gihe bafite indwara bakabasuzuma ndetse bakabaha imiti iri bubafashe kuborohereza iyo ndwara yabo.

Mo imbere mu nyubako hari ahantu habugenewe batanga ubuvuzi zijyanye n'ingingo z'umubiri, kuzigorora ndetse n'ibindi, haba hari umwanya uhagije, aho bafashiriza abo bantu ku buryo buri wese ahava yanyuzwe

Umuganga ariko ni mudasobwa, areba umurwayi we yari amaze gukore ubuzima afite, mu ivuriro ririmo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho haba harimo abarwayi baje kwivuza, bitewe n'indwara barwaye, harimo n'abavuzi bari bu bafashe muri iyo ndwara.

Mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, aha ni ku ruhande rubikwamo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho hari amamashini y'ikoranabuhanga asuzuma, agapima umuntu umubiri we wose, bareba niba hari ikibazo yaba afite.

Mu nyubako hari ahabugenera babika imiti igihe iri ku murongo ku buryo iyo umuntu ashaka umuti aza akawureba mu ivuriro cyangwa se ahabikwa ubuvuzi.

Ivuriro rinini, mu inzu nini ifite ahantu abantu bicara baje kwivuza, imbere yayo hari ubusitani bwiza busukuye, hari abaganga bari kuhagenda baganira ni nako bishimye.

Mu ivuriro hari ibitanda byagenewe ko abarwayi baryamaho mu gihe bari kubasuzuma cyangwa se mu gihe barembye hari ibindi bikoresho byo kubereka uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo bamenye n'imiti bari bufate iri bubafashe kumera neza.

Inyubako nini iriho ibirango byerekana ko ari ivuriro, imbere yayo haparitse imodoka zigiye zitandukanye, buri muntu aba yemerewe kujyayo akisuzumisha, agahabwa imiti yasabwe kunywa, maze bikamufasha akongera akamera neza.

Ivuriro ririmo ibitanda n'ibindi bikoresho, ibitanda byifashishwa barwaye babiryamaho iyo barembye ndetse n'ibi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma umubiri w'umuntu, ukuntu ameze, bakamenya ikibazo nyamukuru afite bityo bakamuvura bazi indwara bari kuvura.

Mu nyubako nini y'umweru, mu imbere harimo utwumba tugiye turimo, dushamikiyemo kugira ngo umuntu urwaye bamufashirizemo, bamusuzumese, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, haba harimo ibikoresho byabugenewe, hakaba n'iby'ikoranabuhanga.

Mu ivuriro ahantu haba ibikoresho bisuzuma. Ku ruhande rw'isuzumiro aho iki gikoresho kigusuzuma umubiri wose ukamenya ko uko uhagaze, indwara ufite ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye waba ufite mu mubiri.

Inzu inkorerwamo ubuvuzi harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bya kijyambere bifasha mu buvuzi gusuzuma umuntu, byihuse mukamenya icyo arwaye urabona ko ibi bikoresho bikoreshwa n'abantu babimenyerejwe.

Mu ivuriro mu bitaro harimo ibitanda by'abarwayi harimo n'umuntu uri kugenda areba ukuntu abarwayi bamerewe muganga, ubona ko haba hari isuku biri ku murongo mbesebona hagaragara neza nk'ahantu haba hari abarwayi.

Mu nzu ikorerwamo ubuvuzi harimo ibikoresho bitandukanye, intebe z'abarwayi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo barebe ubuzima bwabo uko bubahagaze, haba hizewe kuko haba harimo isuku mu bigaragara.

Ni inyubako nini, yubatse neza, isize amabara meza, hari aho binjirira, haba hari ikirango cyerekana ibyo bakora, ni ivuriro, bafasha mu bijyanye n'ubuzima, aho umuntu agenda bakamufasha bitewe n'ikibazo afite.

Abaganga bane, b'igitsina gore bahagaze imbere y'inyubako bakoreramo akazi kabo, ni inzu y'ababyeyi, cyangwa se ivuriro ryita ku babyeyi, ari ukubyara cyangwa se ibindi, bakabaha serivisi nziza.

Ahantu hari gukorerwa ubuvuzi, hari abarwayi hari ndetse n'abaganga bari kubafasha, bitewe buri wese uburwayi afite. Baryamye ku dutanda, bari gusuzumwa, bari kwitabwaho, buri wese bitewe n'ikibazo afite n'abaganga bafite ubushobozi.

Inyubako yifashishwa mu gusuzuma cyangwa se mu gukora imiti, aho iyi imiti bayifata, bitewe n'indwara ivura, bakayiha umuntu iri bumufashe babyizeye, kuko hano bakora imiti ijyanye n'indwara zitandukanye.

Ikirango cyerekana ivuriro ryo kwa Nyirinkwaya, ni inyubako nini nziza ikozwe mu buryo bwa kijyambere, ubona ko amabara meza iriho uruzitiro rwiza, ku buryo ari ahantu hafite umutekano kandi hakeye hari isuku.

Inyubako yabugenewe ikorerwamo ubuvuzi ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe, haba hari abantu benshi baje kwivuza bafite uburwayi bugiye butandukanye, urabona ko hari isuku hari ubusitani hari abavuzi bafasha abarwayi babaganye, ku buryo buri muntu ikibazo afite bamufasha.

Ibikoresho byabugenewe bishyirwamo amaraso mu gihe hari umurwayi uyacyeneye bakayamutera agakomeza akagira ubuzima bwiza. Buri maraso n'ubwoko bwayo baba babyanditseho kugira ngo batagira uwo bavangira amaraso ataribwo bwoko afite. Ibi bifasha abarwayi barembye kongera kubona ubuzima iyo bongerewe amaraso.

M u ishuri harimo abantu baje kwigisha abana uburyo bakoza amenyo bakayagirira isuku kugira ngo mu kanwa hakomeze hamere neza n'amenyo yabo akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Imiti ibikwa ahantu hamwe, ni mu kabati igiye itondekanyije ku murongo, iteretsemo neza ku buryo iyo umuntu aje kugura umuti cyangwase kwivuza bahita bamurebera bitabagoye kuko imiti yose iba igaragara.

Mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, hari uruhande rubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma, ibibika ibipimo baba bafasha ku muntu, ndetse n'ibindi bikoresho biba bibitswemo imiti.

Ahantu hubatse neza hari ubusitani, hari amazu asa neza ubona ko hakorerwa igikorwa cya leta cy'ubuvuzi bita ku baturage baba ubuzima bwiza babaha uvuzi bwiza kandi bwizewe haba hari isuku hagaragara neza.

Inyubako nini irimo imiryango myinshi aho basuzumira, ni ivuriro ndetse naho batangira imiti, aho bavurira ni henshi, iyi nyubako urabona ko ari nini, imiryango myinshi, buri muryango wanditseho icyo ukorerwamo.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi bugiye butandukanye hano hanze hari aho abarwayi baba bicaye bategereje kugerwaho ngo bavurwe hari n'abashinzwe kubitaho bagasuzuma nabo baba barimo imbere aho hagenda hinjira umwe umwe.

Inyubako nziza yubatse ahantu heza isize amabara y'umweru, hakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi aho baba bafite imiti basuzuma umuntu bakamenya ibibazo afite maze bakamenya uko bamuvura, imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza burimo imikindo, bafite isuku naho hagaragara neza.

Ahantu n'ivuriro hari umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'amaguru na we aricaye mu kagare ke ari kureba ukuntu ikirere cyo hanze kimeze na we aba ashaka gusohoka kugira ngo agende.

Abantu benshi harimo abaganga, harimo ababyeyi, harimo abayobozi bicaye ku ivuriro, abandi barahagaze ni inzu y'ababyeyi, aho ababyeyi babyarira hari abantu benshi urabona ko bari bari kuganira baje gufata ifoto y'urwibutso.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, haba hari ibyo kuryamaho ugaterura ibintu bifite ibiro byinshi, amaboko yawe agakomera, ndetse n'imitsi byose bigakomera, hari ibyo kwiruka, haba harimo ibikoresho bigenda bitandukanye, bigufasha kugorora ingingo zawe ukongera ukamera neza, ugakomeza ukaba umuntu ukomeye.

Inyubako nini igerekeranye, n'ivuriro ry'umwami fayisari, niko ryitiriwe, hari abantu baba baza ni urujya n'uruza rw'abantu, kuko batanga serivisi nziza haba hari n'abantu benshi, buri ndwara baragufasha bakakuvura bakaguha imiti iri bugufashe kukorohereza indwara.

Inyubako nini hakorerwa ubuvuzi, aha hari uruhande bakiriraho abantu babaganiriza ku buryo bakora babaha amakuru kuri iryo vuriro, kugira ngo bamenye aho baje kwivuza n'uko bari bubafashe.

Mu ivuriro mo imbere, hari aho abarwayi baryama, hari ibitanda baba baryamaho, hirya yabyo ndetse haba hari imashini zibasuzuma bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze, bakamenya niba indwara iri kugabanuka cyangwa se iri kwiyongera, bakamenya uko babafasha.

Mu nyubako mo imbere mu ivuriro rifite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, bigaragara ko hari igitanda cy'abarwayi, aho umurwayi iyo arembye bamuryamishaho, bakabona uko bamwitaho, ari ahantu hizewe kandi harinzwe.

Inyubako nini hari ikirango cyerekana ko ari farumasi. Ni ahacururizwa imiti y'ubwoko bu butandukanye kandi bwinshi, umuntu araza akugura imiti ubundi akagenda akayikoresha ikamufasha, haba hari n'abashinzwe kuyicuruza ndetse haba hari n'abantu baje kuyigura.

Inyubako nziza, isize mo amabara meza, hari aho kwicara, hari aho bakirira abantu, inatanga serivisi zijyanye no gufasha abantu, bafite ibibazo bitandukanye nk'uburwayi, indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini ni ivuriro cyangwa se ahakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi, haparitse imodoka, hari abantu baba bari kujyayo abandi bavayo benshi baje gusaba serivisi y'ubuvuzi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'abantu, hano hari abaganga bishimye ubona ko bishimiye n'akazi bakora, hari ibikoresho byabugenewe byo gusuzuma, haba hari imiti ku buryo buri muntu wese bamufasha mu bushobozi bwabo.

Imbere harimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho harimo ibigufasha kugorora amaguru, kuryamaho ukarambura amaboko bitewe n'ibyuma uri guterura ndetse n'ibyo kwiruka bigufasha gukomeza umubiri wawe.

Iki cyanya kinini, harimo inyubako, ikorerwamo imiti, cyangwa se ifungirwamo imiti bakayishyira mu ducupa yabugenewe kujyamo, bakayifunga, ubona ko hano ari byo bari gukora muri uru ruganda abantu baba bambaye imyenda yabugenewe, kugira ngo hatagira icyangizwa mu gihe bari mu kazi kabo.

Inyubako nini yubatse neza yarasisi mu ivuriro, aho bafasha umuntu ufite uburwayi, ubwo aribwo bwose bakamuvura, bakamuha imiti iri bumufashe mu burwayi bwe akamererwa neza, ivuriro riri ahantu heza, hari ubusitani burimo indabo, burimo ubwatsi hari abantu baba bahagenda ubonako hisanzuye.

Umuntu ari kwa muganga, aryamye ku gitanda cy'abarwayi ari kongererwa amaraso, bigaragara ko afite uburwayi bukomeye, ari kwitabwaho uko bikwiriye.

Ibitaro byiza mu imbere mu nzu ni ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo umwanya munini abantu banyuramo, aho bakirira abarwayi, ibitanda baryamaho, harasa neza hafite isuku.

Inyubako nini yubatse neza, hari abantu bari hanze yayo, ni ivuriro aho bagufasha bitewe n'urwayi ufite, barasuzuma, ndetse bagatanga n'imiti ifasha bitewe n'uburwayi basanganye umuntu, hano haraza umuntu uri hanze, yaje kwivuza kugira ngo na we yitabweho.

Inzu yubatse ahantu heza hasize amarangi meza urabona ko ikoze neza, ni ikigo nderabuzima cya Shagasha hari abarwayi baje kwivuza, mbese batanga ubuvuzi neza ku buryo buri muntu ubagannye bamuvura bakamuha imiti ituma amererwa neza.

Inyubako nini, imbere yayo hari ikirango cyerekana ibyo bakora n'ivuriro rifasha abantu bose bagize ibibazo by'uburwayi, bakabasuzuma, bakabaha imiti iri buborohereze bagakomeza bakagira ubuzima bwiza.

Ihuriro ahantu hica abantu babiri, umwe bari kumusuzuma bamwambitse igikoresho kimusuzuma, hari indwara runaka kiba gifite gisuzuma, hari umuganga yo kubimufashamo kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, bicaye ahantu hamwe baba bafite ibikoresho byabugenewe.

Caye hanze ni ku nyubako, ya materinete aho ababyeyi babyarira cyangwa se inzu y'ababyeyi, haba hari abaganga bashinzwe gufasha abarwayi, hano hari abantu bahicaye haba harimo abaganga ndetse n'abandi bantu baje kwivuza.

Inyubako nini isize amabara y'umweru, hari ikirango kerekana ko ari ivuriro rya Shyira, aho umuntu agenda akivuza indwara yose arwaye cyangwa kwisuzumisha maze bakamuha imiti bakamuvura.

Inyubako ziri ahantu hitararuye mu cyanya kinini, aho zigiye ziri ku murongo, hakorerwamo n'ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi gusuzuma ndetse no kwita ku bantu bafite ibibazo by'indwara zigiye zitandukanye.

Mu cyumba cy'abarwayi harimo igitanda ndetse hari n'indi mashini ibapima ikerekana ukuntu bamerewe bitewe n'uburwayi bafite. Baba baryama ahantu hasukuye hasa neza, ku buryo umurwayi unaharyamye nta kindi kibazo agira.

Mu ivuriro harimo umuvuzi uri kureba ibikoresho bikoreshwa mu ivuriro, hari ibikoresho byinshi byifashishwa gusuzuma ndetse n'imiti ihabwa abarwayi.

Ni inyubako nziza ifite ubusitani bwiza hari indabo, ni ivuriro abantu bajya kwivuzayo mu gihe bafite ibibazo, maze bakabavura bakabaha imiti iri bubafashe mu burwayi bwabo, ikaborohereza bakamera neza cyane.

Ni mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi cyangwa se bafasha abantu bafite ibibazo mu mubiri y'uburwayi, hano niho bakirira abantu baba bategereje ko nabo bagerwaho maze bakajya mu isuzumiro bakabaha imiti baje gushaka cyangwa se bagahabwa ubundi buvuzi bakeneye.

Ni ku ivuriro, aho abantu baza kwivuza bakabasuzuma, haba hari aho buri wese ari bujye, haba hari ibirango bihabereka. Umuntu azi afite aho agiye kandi akahamenya.

Inzu nini yubatse neza igerekeranye, ahantu hakorerwa ubuvuzi, aho umuntu agenda bakamuvura, bakamwitaho uburwayi butuma nyine akenerwa kwitabwaho.

Inyubako nini, ni ivuriro rifasha abantu bafite uburwayi bw'amaso, aho babavura bakabaha imiti iri bubafashe kuborohereza, buri muntu aba arwaye ubwoko butandukanye bw'indwara y'amaso, rero baramufasha buri wese upfa kuba ufite ikibazo cy'amaso.

Inyubako iri ahantu heza, ifite ubusitani imbere yaho, ni inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kuganiriza abantu, kubafasha mu bibazo bigiye bitandukanye nk'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe akaganirizwa ndetse n'ufite ibibazo.

Icyumba cyabugenewe kubikwamo imiti, harimo utubati tugiye duteretsemo imiti, buri muti baba bazi aho uteretse, iyo umuntu aje bagiye kumuha umuti bahita bawumurebera byihuse bitamutindije kuko iba iteretse ku murongo.

Mu nyubako mo imbere hari ahantu haba habikwa ibikoresho byo kwa muganga, cyangwa se byo mu ivuriro, hari naho bakirira abarwayi bakabasobanurira ibijyanye n'indwara zabo bafite, ndetse n'ukuntu bagomba kwitabwaho.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha umuntu mu myitozo ngororamubiri, aho wicaraho ugakoresha amaguru yawe cyangwa ukaryamaho, aho wirukiraho kuri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga biba bikozwe mu buryo bwiza bwa kijyambere, buri muntu ashobora kugikoresha ndetse bikamufasha gukora imyitozo ye neza.

Mu nyubako ikorerwamo ibintu bijyanye n'ubuvuzi n'imiti, hari ibikoresho byabugenewe byifashishwa kwa muganga, aho haba hari n'ahakorerwa isuku y'ibikoresho bakoresha kwa muganga. Hano baraza bakahogereza bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye.

urujya n'uruza rw'abantu mu ivuriro baba baje kwivuza, kwisuzumisha ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba hari abaganga bashinzwe kubafasha bitewe na buri wese serivisi yaje gusaba, ni benshi baba bategereje, hagenda umwe umwe mumufasha kugira ngo byihute.

Mu nyubako mu imbere ni inzu nini y'ivuriro, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitanda by'abarwayi, aho bicara mbese harimo buri kimwe bakenera nk'abarwayi, ubuvuzi bw'ibanze bagafashwa uko bikwiye.

Byifashishwa mu gusuzuma abarwayi bafite indwara zitandukanye, ni iby'ikoranabuhanga bikoreshwa n'amashanyarazi, biba bifite insinga bacomeka bityo bigakora neza. Hari umurwayi uryamye hano ku gatanda, ari gusuzumwa mu mubiri we ngo barebe uko byifashe.

Mu nyubako nini mo mimbere nziza haragaragara neza hari aho bakirira abaje kwivuza, bakabasobanurira neza ibyo bavura, ndetse bakabereka aho bajya kwivuriza haba hari ibintu biri ku murongo, ku buryo buri muntu y'injira abona ko ari ahantu hakorwa ubuvuzi koko.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ari kurambura amaboko ye n'umugongo ndetse n'amaguru, kugira ngo bimufashe gukomeza amagufa ye ndetse n'imitsi, na we mu mubiri kandi akomeze amere neza. Bimusaba kwambara imyenda itari bumufate cyane, itamubangamira mu gihe araba ari kugorora izi ngingo ze.

Ibimera biteretse ahantu harimo imboga n'imbuto ndetse hari n'icupa ry'amazi, hari n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, izi mboga zifasha umuntu kumererwa neza kuko zifite ibyo zongera mu mubiri.

Igikoresho cyifashishwa mu kugorora ijosi, iyo umuntu yagize ikibazo mu ijosi acyambaramo maze bikamufasha kwirinda kongera gukomanya amagufa cyangwa se kuyangiza, bikamufasha koroherwa maze akamererwa neza.

Kugorora umubiri ni byiza, umuntu yicaye ahantu hamwe arimo arakora imyitozo ngororamubiri, agorora amaboko ye kugira ngo amaraso ye akomeze atembere mu mubiri neza kandi akomere mu mubiri we, mu magufa ye ntakagire ikibazo.

Mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari umuntu uri muri iyi nyubako ari kugorora ingingo ze, aho ari kwifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye mu kugorora ingingo ze, agorora umugongo, agorora amaguru kugira ngo umubiri we ubashe gukora neza.

Umuntu uri mu imyitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko ye kugira ngo amagufa akomere ndetse n'imitsi ikore neza, mu mubiri we mbese aba ameze neza. Buri muntu wese aba akeneye iyi myitozo kugira ngo umubiri we umere neza.

Umuntu wicaye ari kureba muri mudasobwa, ahantu yicara urabona ko ari ahantu hashobora gukorerwa imyitozo ngororamubiri cyangwa se hagakorerwa ubundi buvuzi busanzwe, ndabona ko hari ikintu ari kureba muri mudasobwa ye kugira ngo akigireho ubundi bumenyi.

Iririmo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hari ibyo kwicaraho ugaterura ibyuma bifite ibiro byinshi kugira ngo amaboko yawe akomere, hari ibyo kwiruka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha umuntu kugorora ingingo ze.

Igikoresho gikozwe mu ikoranabuhanga, uburyo kigufasha kumenya imyitozo ngororamubiri wawe, mu mubiri uko umeze, cyangwa kikagufasha mukora unura umubiri wawe.

Ahantu mu nyubako haryamyemo abantu mu ivuriro, baguha serivisi yo kugufasha, hano hari umwana n'umubyeyi we, na bo bari muri iryo vuriro, bari guseka urabona ko bari guhabwa serivisi y'ubuvuzi.

Ibikoresho byifashishwa mu mikino igiye itandukanye hari umupira wifashishwa mu gukina umukino w'amaboko witwa basket. Hari n'umupira w'amaguru. Hari n'umupira wifashishwa mu gukina volley mu mikino y'amaboko, n'undi mupira wifashishwa mu mukino witwa rugby aho biruka. Hari n'ingofero bambara mu mutwe kugira ngo bibarinde gukomereka mu gihe barigukina umukino wa rugby.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo imiti ifasha umuntu mu buryo bwihuse ashobora kukagendana wagira ikibazo ukayifashisha. Haba harimo ibinini bitandukanye n'indi miti wakwifashisha mu gihe kibazo kigutunguye.

Umuntu ari mu myitozo ngororamubiri urabona ko ari kumwe n'abandi, yambaye imyenda yabugenewe kugira ngo yumve yisanzuye mu mubiri we, ari kugorora amaboko agororera rimwe n'umugongo n'amaguru no mu matako hose kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Umuntu uri kwikanda akaboko, yavunitse igufwa ryo mu kaboko ari kwikanda akeneye no kurikoresha imyitozo ngororamubir,i kugira ngo yongere risubire ku murongo nawe amere neza.

Mu ivuriro ahari umuganga ndetse n'umurwayi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu kaguru, umurwayi bamuhaye icyuma kimufasha kuvura akaguru ke, ni imvune yagize, bari kumuvura bikoresheje ikoranabuhanga kugira ngo amererwe neza.

Umuntu yavunitse mu ivi, ari kugerageza kwivura kugira ngo imvune ye igabanyuke cyangwa se uburibwe, ari kwikanda kugira ngo igufa risubire mu mwanya waryo, bisaba ko akora na siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, bikamufasha kongera kumererwa neza no gusubiza igufa mu mwanya.

Umurwayi ari guhabwa ubuvuzi bwo mu kirenge arabona ko yagize imvune, bari kumuzirikiraho biri bumufashe kongera kumererwa neza bikamurinda kugira ibibazo bindi mu magufa hari umuvuzi uri kumufasha.

Imiti yifashishwa ku muntu aramufasha mu minsi y'umuntu mu magufa ye aho ahurira ndetse no mu mubiri bisanzwe bikamufasha gukomeza akamererwa neza cyane cyane umuntu ukunda gukora imyitozo ngororamubiri biramufasha.

Umuntu urimo aranywa amazi, urabona ko yari ayafitiye inyota ari kuyanywa nk'uyashaka, aramufasha rero mu mubiri ni yo mpamvu buri wese aba agomba kunywa amazi, urabona ko ari mu myitozo ngororamubiri, rero amazi aramufasha kugira ngo akomeze amererwe neza mu mubiri.

umuntu uri mu myitozo yo kugorora ingingo ze hano ari kugorora amaguru aho azamura akaguru amanura azamura akandi gutyo gutyo bikamufasha kugira ubuzima buzira umuze kandi akaba ameze neza

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri. Yicaye ku buryo biri bumufashe kugorora ingingo ze, umugongo, amaguru, amaboko n'ibirenge byose, agakomeza kumera neza mu mubiri, ingingo ze zose zigororotse, zikora neza ntabindi bibazo by'amavunane agira.

Imyitozo ngororamubiri, umuntu ari gukora, arambura amaguru, arambura amaboko, mbese kugira ngo umubiri we wose ubashe gukora neza, kandi ukure neza, mu myitozo ngororamubiri, afite ibikoresho bimufasha muri iyi myitozo, ndetse urabona ko yabyambariye, yabyiteguye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, hari imbuto zo kurya amacunga ndetse n'ibindi bituma umuntu agira ubuzima bwiza iyo abiriye ndetse n'amazi yo kunywa, aba akenewe mu mubiri n'ikindi gikoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho gituma amagufuwa y'umuntu akomera ndetse n'umubiri we ugakora neza.

Umuntu w'igitsina gore ari mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaboko ndetse n'amaguru n'ibirenge byose, yambaye imyenda itari bumubangamire, idakomeye, ituma agorora buri rugingo rwe uko abishaka.

Ni mu ivuriro hari agakoresho kifashishwa n'umuntu ufite ubumuga bw'amaguru, aho aba adashobora kwigenza, akagafatiraho kugira ngo ashobore kugenda. Hari umuganga uri kubimufashamo, amwereka ukuntu azajya agakoresha, kakamufasha kubona uko agenda.

Mu ivuriro, aho bari gufasha umuntu wagize ikibazo mu kaguru, yavunitse, bari kugerageza uburyo bamuvura iyi mvune bamusigiraho imiti yabugenewe kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza maze bamugororere n'ingingo.

Umuntu wicaye ari kwivura mu kaboko, yikanda kugira ngo igufwa rye risubire ku murongo, yongere amererwe neza, agorora ingingo ze agenda yikanda mu kaboko. Afite igikoresho cyabugenewe yahawe no kwa muganga.

Uyu umuntu rero ni igitsina gore ari mu myitozo ngororamubiri ari kugorora amaguru ye umugongo ndetse n'amaboko, aba yambaye imyenda itari bumubangamire mu gihe aba ari kugorora ingingo ze, iyi myenda niyo ituma agorora umubiri we neza.

Igikoresho cyambarwa mu kaguru no mu kirenge, gifasha umuntu ufite ubumuga bw'akaguru, aho kimufasha kugenda na cyo kikagenda kimuvura gake gake. Iki gikoresho kiragurwa, umuntu akagikoresha maze bikamufasha kugira ngo agende maze akaguru ke kongere kamere neza.

Igikoresho kiri ku isoko kigufasha kugabanya inda nini kiri kugura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda, igufasha mu buryo bwihuse kugabanya inda yawe yari nini ushaka kugira mu nda hato kandi hakomeye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, bimwe mu bintu bituma ugira ubuzima bwiza, ari kurambura amaguru kugira ngo amagufa ye n'imitsi bikomeze bikore neza, amaboko nayo ari kuyarambura, akomeza akoresha umubiri we kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Izo ngororamubiri, yambaye imyenda itamubangamira ku buryo agorora umubiri we, ari hasi ari kugorora umugongo we, ndetse n'ijosi n'amaboko byose, kugira ngo akomeze agire amagufa akomeye n'umubiri ukomeye ufite ubuzima bwiza.

Umuntu wari uri mu myitozo ngororamubiri bari kumukorera ubuvuzi bw'ibanze, aho yari agize ikibazo cyo mu kirenge akavunika cyangwa se agatsikira, bari kumuzirikiraho igikoresho kiri butume igufwa rye ryongera rigasubira ku murongo cyangwa se agaki,...

Uburyo butandukanye bwo gukoramo imyitozo ngororamubiri. Hari uburyo bwo kwiruka, ubwo kugorora ingingo zawe wunama wongera uhaguruka, ubwo guterura ibintu biremereye kugira ngo amagufwa yawe akomere, gukina umupira n'ibindi byinshi bitandukanye bigufasha gukomera, ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umuntu uri kwivura ku kaguru, bigaragara ko yavunitse cyangwa yagize ikindi kibazo mu igufa. Ari kwikanda kugira ngo yongere amere neza, ntaho ni umuti umufasha ndetse no gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, biragufasha maze igufwa ryawe rikamera neza.

Umuntu ari kunywa amazi kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza ndetse akanamufasha iyo ari mu myitozo ngororamubiri umubiri we ugakomeza ukamererwa neza, amaraso ye agatembera mu mubiri neza kuko aba yabonye amazi meza kandi asukuye.

Uburyo umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri bitamuvunnye cyangwa ngo bimugore, akagorora amaguru, umubiri wose, bityo akamererwa neza. Hano hari inzira ushobora kunyuramo mu kuzamura amaguru n'ibindi byinshi birakwereka uko wakora imyitozo maze ukamererwa neza mu mubiri.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ubona ko abanjije kwifashisha amazi, kugira ngo akomeze imyitozo ye neza, kuyanywa birafasha mu mubiri, ukumva ameze neza, agakomeza imyitozo ye, yumva amerewe neza nta kindi kibazo afite, cyaba icyo mu nda, cyangwa se mu mubiri bisanzwe.

Akagare k'umuntu ufite ubumuga bw'amaguru, aho akicaramo bakamusunika cyangwa se na we akitwara, mu gihe aba adashobora kugendesha amaguru ye. Aka kamufasha mu gihe ashatse kugenda ntibimubuze kugenda, ashobora no gutembera akicayemo, kuko kugenda ntago byamubuza, kubona aka gatebe ngo yicaremo ashobore kugera hano.

Ibintu by'ubwoko bibiri bitandukanye, hari imbuto, hari imboga, hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, umuntu yifashisha mu gihe ari kugorora umubiri we anakomeza amagufa, izi mbuto n'imboga na byo umuntu arabirya bikamufasha mu mubiri we agakomeza akagira ubuzima bwiza.

Bari kumwe n'abakobwabwa n'abahungu bari kunywa amazi bayagotomera ko bayishimiye baba bayakeneye mu buzima uko bigaragara buri muntu aba akeneye kunywa amazi kugira ngo amufashe mu mubiri we kandi amere neza.

mu myitozo ngororamubiri harimo abantu babiri bari gukora, umuntu umwe ari kwiruka kugira ngo abashe gukomera, iyo myitozo ari gukora ikomeza amagufwa, imitsi yo mu mubiri igakora neza, ukagira n'imbaraga.

Abantu bari mu imyitozo ngororamubiriran ko bari gufata akaruhuko baba bavuye kwiruka cyangwa se gusimbuka cyangwa se gukina byose birafasha mu myitozo ngororamubiri ku buryo uba wambaye inkweto zifunze n'iyenda itari bukubangamire ukumva wisanzuye mu mubiri.

Imyitozo ngororamubiri, umuntu ari kuyikora ananura ibirenge, ananura amaboko, kugira ngo imitsi ye ndetse n'amaraso bikore neza mu mubiri nta kindi kibazo agira, ndetse n'iruhande rwe hateretse amazi, ku buryo ari bunywa amazi, bigakomeza bikamuha imbaraga zo gukora iyi myitozo.

Abantu babiri bari mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umuntu uri kwigisha undi cyangwa se uri kumutoza, uyu muntu uri gukora imyitozo ngororamubiri afite ibikoresho bimufasha muri iyi myitozo, aho aterura ibintu biremereye kugira abashe gukomera, ndetse akagenda agorora ingingo ze, mu bintu bigiye itandukanye.

Ibyuma byo kwa muganga bari gusuzuma umuntu, hano bari kutwereka barire ba gusuzuma mu bwonko bareba mu mutwe uko byifashe, bareba ko agifite ubuzima buzira umuze babona ko ibyuma ba bikora neza bakagusuzuma bakamenya indwara cyangwa se ikibazo bafite.

Ku kibuga abantu babiri bari mu kibuga umwe afite umupira n nako bari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se gukina hari undi ufite ubumuga ari kugendera mu gikoresho kimufasha kugenderamo kukofite ibibazo mu maguru, bose urabona ko bari kumwe bari gukina.

Umutuku cyerekana croix rouge. Ni umuryango ufasha imbabare, aho urwara bakagufasha, bakakuvura baguha imiti ikugabanyiriza uburibwe.

Imiti yifashishwa mu ngingo z'umubiri, aho umuntu ufite ikibazo cyo mu ngingo ayikoresha, hari iyo kwisiga, hari iyo kunywa, igiye itandukanye inafasha bitandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite.

Mu ivuriro aho harimo abavuzi harimo n'abandi bantu, umuntu yagize ikibazo cyo mu magufa, aho akeneye imyitozo ngororamubiri, ndetse ari guhabwa n'ubuvuzi bw'ibanze, maze bakananura amagufa ye bakayasubiza ku murongo, kugira ngo akomeze yoroherwe

Inkoni yifashishwa n'abantu bakuze bashaje bakayigenderaho cyangwa se undi muntu akayifashisha bisanzwe, ikoze neza ku buryo nta kindi kibazo yateza umuntu.

Igikoresho cyifashishwa mu ivuriro cyangwa se kwa muganga basuzuma umuntu barebe uko umutima we uri gutera, ibi bituma umuganga amenya uko atwara umurwayi we, akamwitaho uko bikenewe.

Umuntu uri mu imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda itamubangamira, ari kugorora amaboko ye ajyana akaboko inyuma akagarura kugira ngo amaboko ye agororoke, ndetse n'amagufawa ye akore neza. Ibi bituma kandi akomera mu mubiri wose.

Tandukanye biteretse ahantu hamwe, hari uruhande ruteretsweho imboga, imbuto, ndetse n'amagi n'inyama. Byose bifasha umubiri kumera neza, hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umuntu akomere amagufa, ndetse n'imitsi ye ibashe gukora neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ari kunywa n'amazi kugira ngo akomeze imyitozo ye neza, amazi amwongerera imbaraga akumva yiteguye gukora n'indi mirimo ntibimuce intege, akamurinda kunanirwa cyane, amazi aba akenewe mu buzima bw'umuntu.

Umuntu uri mu muhanda, ari mu myitozo ngororamubiri, ari kuruhuka, arunamye, yarushye kubera kwiruka no gukora cyane. Iyi myitozo ifasha buri muntu, na we aragira ngo amagufa ye akomeze akomere ndetse n'umubiri we ukore neza.

Umuntu ari mu myitozo ngororamubiri, abona ko umubiri we warambutse, afite imibereho myiza, kubera kugorora ingingo ze z'umubiri, bigatuma amererwa neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ari kunywa amazi kugira ngo amufashe, anayimenaho kugira ngo yumve amerewe neza, amazi arafasha mu buzima cyane cyane mu myitozo ngororamubiri agufasha kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri.

Igikoresho bambara mu kiganza, iyo ugiye guterura ikintu kiremereye cyangwa se mu myitozo ngororamubiri, bikakurinda kuza kwangirika mu kiganza, bitewe n'ibintu uteruye biremereye, aha bifasha buri muntu wese kugira ngo arinde ibiganza bye.

Ikirango cyerekana ahantu bigira karate cyangwa se imikino yo kurwana, aho rwanda judo federesheni, baragenda bakabigisha, kurwana kwifashishwa mu kwirwanaho, atari uguteza umutekano muke, byose ni mu buryo bwo kugorora umubiri, byose n'imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kunywa amazi ari mu myitozo ngororamubiri urabona ko yambaye imyenda imwemerera gukora imyitozo ngororamubiri, amazi aramufasha rero muri iyi myitozo agakomeza agakora neza akamuha ubuzima bwiza bijyanye n'iyi myitozo.

Inyubako nini irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu ivuriro cyangwa se ahandi hantu, bishobora gupima umuntu bakareba uko amerewe mu mubiri, bakareba niba hari ikibazo afite cyangwa se akiri muzima.

Inyubaka ibamo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hano harimo abantu bari gukora imyitozo, haba harimo ibikoresho byinshi kandi by'ikoranabuhanga bigufasha kugarora umubiri wawe n'amagufa byombi, ukamera neza ugakomeza ukagira ubuzima buzira umuze.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru ye, amaboko, yiruka kugira ngo abashe gukomera. Afite umupira bakinisha umukino wo kwiruka w'amaboko, aho bagenda bahererekanya mpaka batsinze. Hari umuntu uri kumutoza, ari kumufasha kugira ngo akomere akore imyitozo ye neza.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, kugira ngo aze kuyanywa bimufashe kumwongerera imbaraga. Aba yambaye imyenda itari bumutege cyangwa ngo imubuze kwisanzura mu gihe ari kugorora ingingo ze; ari kugorora imbavu, amaboko, amaguru, kugira ngo umubiri ukomeze ukore neza.

Umuntu urabona ko ari gukorerwa ubuvuzi bwo mu kaboko, bigaragara ko afite ikibazo mu kaboko, haba kuvunika cyangwa se ikindi kibazo, ari kwivura kugira ngo yongere amererwe neza mu mubiri we.

Ubuvuzi buri guhabwa umuntu, bamugororera ingingo zo mu kaguru, amagufa ye kugira ngo yongere amererwe neza muganga ari kumuha serivisi neza, amufasha kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwiza.

Inkweto zo mu bwoko bunini zizamuye ku buryo zirinda umuntu uzambaye. Ziriho icyapa cyanditseho Bato, zikunda kwambarwa n'abapolisi cyangwa abasirikare akenshi iyo bari mu kazi, zibarinda ibirenge ku buryo nta kintu cyabakomeretsa zifite uruhu rukomeye.

Umuntu uri gufasha umurwayi, yagize ikibazo yari mu myitozo ngororamubiri, ahita agiriramo ibibazo bamutwaye kumufasha, urabona ko ababaye, kugira ngo yongere agororerwe umubiri we, yongere amere neza.

Umupira wo gukina, bimwe mu myitozo ngororamubiri, gukina umupira w'amaguru. Uyu mupira wifashishwa wawukinisha amaboko cyangwa se amaguru, bikagufasha gukora imyitozo ngororamubiri, ugorora umubiri wawe kandi ukumva umeze neza mu mubiri.

Imiti ifashwa mu buvuzi by'abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri n'ibafasha kugira ngo igorore imibiri y'abantu hari n'isabune yo koga ifasha umuntu nabwo urabona ko iba itunganyije.

Ikimera cy'icyatsi cyifashishwa mu buryo butandukanye buri muntu aba afite uko ashaka kugikoresha uko gitangana n'umuti, urabona kera ari agati kamwe ariko gafasha umuntu.

Ibimera bifite amababi yatoshye hatemera byinshi, ibi bibabi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo. Hari umuntu ushinzwe cyangwa se uzi gukora imiti, akifashisha bino bibabi akavanga imiti igiye itandukanye iri bufashe umuntu.

Imiti ukwayo itandukanye ibivura n'ibintu bitandukanye ikorwa mu bimera aho babifata ibyo bimera bakabikoramo imiti ivura indwara zitandukanye buri wese yakwifashisha haba kubanaana haba ku bakuru bose ikabafasha.

Umuti uri mu gakumbe kawo, kabugenewe kuba urimo, wifashishwa mu bintu bitandukanye, kuvura cyangwa se gutera, kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza naho ari haakomeze hagire isuku.

Imiti ikorwa mu bimera, ni iya gakondo, iteretse ahantu habugenewe ibikwa, umuntu iyo ayikeneye araza akayigura, ikamufasha mu burwayi afite, buri muti uba uriho icyo uvura, biba byanditseho kuko uba wizewe, ugafasha buri muntu wese bitewe n'indwara ufite.

Bimwe mu bimera byifashishwa mu gukora imiti hari icunga, hari tangawise byose aho byifashishwa mu gukora umuti ushobora kuvura umuntu indwa arwaye, byose bikorwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi wabimenyerejwe ku buryo uyu muti ufasha umuntu ufite indwara.

Imiti iteretse ahantu ku kibabi ikorwa mu bimera ni ibinini, aho ivura indwara zigiye zitandukanye, iyo umuntu akeneye imiti hari ahantu iba ibicuruzwa aragenda akayigura maze akayifashisha.

Igiti kirekire gifite amababi yifashishwa mu gukora umuti, aya mababi kandi ashobora kubivanga n'ibindi bihingwa n'ibindi bimera bikabyara umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Abantu benshi mu rujya n'uruza rw'abantu, abacuruzi bari gucuruza imiti ya gakondo baba bakoze mu bimera ndetse hari n'abandi baje kuyigura, haba hari imiti y'ubwoko butandukanye mwinshi, ipfunitse neza ku buryo n'uyitwaye aba yifitiye ikizere.

Imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye, iba ari imiti myinshi ivura indwara zitandukanye, iri mu dukombe twayo twabugenewe ku buryo buri muti uba ufite icyo uvura kandi buri gakombe kanditseho icyo uwo muti uvura, indwara zose uba uvura, maze umuntu yaza kwivuza bakamuha umuti ukamufasha.

Udukarito tubikwamo imiti yabugenewe ikorwa mu bimera, aho buri muntu urwaye indwara uyu muti uvura, bawumuha akazajya awukoresha buri munsi, kugira ngo ubashe kumufasha bitewe n'indwara afite.

Ibimera byo mu bwoko butandukanye umuntu ari gusoroma kugira ngo ajye ku byifashisha mu gukora umuti, biba bifite byose indwara bivura, ndetse aba afite n'uburyo ari bubivange bikabamo umuti uri bufashe umuntu, iyo ndwara igakira.

Imiti ni ibimera biba byahurijwe hamwe, kugira bikorwemo umutu umwe uvura indwara zitandukanye. Iyo ubinyweye biragufasha, hari ibyatsi, hari ibindi bimera, ni ibintu byinshi bahuza, maze bakabikoramo umutu umwe, kandi ukavura byihuse.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye, hari ibifite amababi manini, hari andi aringaniye, hari ibindi bifite amabara, hari n'ibindi bizanaho imbuto, yifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura n'indwara zitandukanye, aho umuntu ayifashisha bitewe n'indwara afite ikamworohereza.

Umuti ni ibinini bifasha mu bihe bitandukanye, inyuma haba handitseho uko uyu muti ukora ndetse n'icyo uvura kugira ngo umuntu uwukoresha atibeshya akawukoresha nabi, bityo bikamugiraho ingaruka.

Ibibabi by'ibiti by'amapera ni'ibimera byifashishwa mu gukora umuti aho bivangira n'ibindi bintu cyangwa se ukabikora byonyine ugakoramo umuti umwana ashobora kunywaho cyangwa se n'abandi bantu.

Ibinini bisi icyatsi bikorwa mu bimera na byo maze bikifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Buri byose biba bifite icyo bivura, ku buryo umuntu iyo abinyweye bimufasha kumugabanyiriza iyo ndwara afite ndetse akabasha kuba yakira.

Ibimera bigiye bitandukanye, harimo tangawize, tungurusumu n'ibindi byatsi bimera, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, aho ifasha umuntu byihutirwa kandi ikamukiza. Iyi miti iba ifite uburyo ikorwamo bwabugenewe igafasha buri muntu.

Ahantu mu cyanya kinini harimo ibyatsi byinshi, hagati hari ikimera gifite ibibabi binini bibyibushye, cyifashishwa mu gukora umuti, kino kimera ni cyiza cyane, umuntu aragifata akagikoramo umuti, kiba gifite indwara kivura.

Ibimera bifite amababi maremare byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, yo mu bimera ya gakondo aho umuntu aba azi imiti ari buvange kugira ngo akore uwo muti mwiza.

Imiti ikorwa mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti ufata ibyo bimera umuntu ubimenyereye ubifitemo ubumenyi akayivanga maze akabikuramo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hacururizwa imiti igiye itandukanye ubwoko butandukanye, ivura indwara zitandukanye umuntu wese yayikoresha, haba ku bana haba ku bantu bakuru, iba ifungiye mu dukombe twayo aho buri muntu aza bitewe n'indwara arwaye akifashisha uwo muti.

Imiti iri mu gakarito kayo ikorwa mu bimera, habahanditseho ku gakarito icyo iyo imiti ivura n'ibikorwa byayo ndetse n'ibiyikozemo ku buryo buri muntu imuvura bitewe n'iyo ndwara.

Agacupa kaba karimo ibinini, ni imiti n'ubundi ikorwa mu bihingwa bigiye bitandukanye, ibivura ibintu bitandukanye bijyanye n'indwara zisanzwe.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, biterwa n'umuti bashaka gukora, uwabimenyereye kuyikora aragenda akayisoroma, hanyuma akaza akabisekura akabivanga, agakora umuti mwiza ufasha umuntu.

Imiti ivura indwara zitandukanye na yo iratandukanye, imwe iri mu dukarito twayo cyangwa se udukapu twayo, indi mu udukombe twayo, inyuma haba handitseho izina ry'umuti ndetse n'icyo uvura, ikorwa mu bimera aho ifasha buri muntu wese ndetse n'inyamaswa.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Ibimera birasoromwa iyo byakuze cyangwa se byeze maze bikifashishwa mu gukora iyi miti bitewe n'imiti bashaka gukora. Haba hari umuntu ubizi, ubifitiye ubumenyi ku buryo akora iyi miti ikaba yafasha abantu bagiye batandukanye.

umuti uri mu gikoresho cyabugenewe kuba urimo ukorwa mu bimera wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ku buryo ukenerwa n'abantu benshi ukabafasha haba handitseho ibyo uvura n'ibyo ufashe.

Ateretse hamwe harimo umuti, iyi imiti iba ikozwe mu bimera, aho umuntu awukoresha bitewe n'ibyo ukwiye ku kuvura, inyuma biba byanditseho kugira ngo hatagira ubyibeshyaho.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo barabihuza bakabisekurira hamwe bikabyara umutobe akaba ari wo muti wifashishwa n'umuntu umwe. Ibi bikorwa n'umuntu wizewe uba wizeye ko iyi miti ikora ikamufasha akamererwa neza.

Kimwe mu bimera byiza cyareze gifite amababi atoshye yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo. Iyo ibimera byeze barabisarura bagasoromaho aya mababi bakayifashisha mu gukora iyi miti igiye itandukanye.

Imiti ifasha mu buvuzi butandukanye, ipfunyitse mu dukarita twayo aho ishinzwe kubikwa. Ni ibinini bikorwa mu bimera maze bigafasha abantu mu ndwara zigiye zitandukanye, biba bifite indwara zitandukanye bivura umuntu akabikoresha akamera neza.

Abantu babiri bahagaze imbere y'ibyatsi, ni ibimera byera bikaba birebire ushobora kwifashisha ukora umuti se ubona ko ari byo bari kuganiraho kuri ibyo bimera ukuntu byakoreshwa.

Ibibuga by'icyatsi, bifite amababi maremare ananutse, yifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, aho babikora bifashishije ibikoresho byabugenewe, maze hakavamo umuti uvura abantu indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu yafashe umuti awushyira mu gakoresho ari buwuvungiremo ni umuti w'ifu uba wakozwe mu bimera bigiye bitandukanya. Uyu muti Uba wakozwe mu buryo bwizewe aho haba hari umuntu ubifitiye ubumenyi akawukora neza ku buryo umuntu urwaye indwara uyu muti uvura uri bumufashe akoroherwa, akabasha kumererwa neza.

Imiti iteretse ahantu igiye iri mu macupa hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ni imiti ya gakondo ikorwa mu buryo bwizewe, maze igashyirwa mu bikoresho byabugenewe, aho umuntu urwaye indwara imiti ivura aza kuyigura bakayimuha ikamufasha.

Udukarita tubikwamo imiti itandukanye ikorwa mu bimera, hifashishwa mu bitandukanye kuvura ndetse n'ibindi.

Umuti uri mu gakombe kawo, wabugenewe kuba urimo, umuryango uvura kurangiza vuba no gucika intege, ubona ko bifasha abantu, buri wese uwukeneye afite ikibazo arawifashisha.

Ibibabi by'umuravumba ni bimwe mu bimera bikora umuti mwiza w'indwara zitandukanye, inkorora, ibicurane ndetse n'izindi. Iyo umutobe wabyo bigufasha koroherwa ukamererwa neza.

Ibimera bifite ibibabi byifashishwa mu bintu bitandukanye harimo no gukoramo imiti ya gakondo, imiti ishobora kunyuzwa mu nganda cyangwa se ukayinywa umajije kuyivanga kugirango igufashe mu burwayi bwawe.

Bimwe mu bimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo yo mu byatsi, ivura neza kandi byizewe, iba iriho amababi, byera mu buryo butandukanye, kuko byose biba bifite indwara bivura.

Ibimera biteye mu busitani byitwa Kapisine mu rurimi rw'amahanga, bisa icyatsi biba biriho n'uturabo tugiye dusa umutuku, utw'umweru byifashishwa mu miti, bivura inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara, ku buryo bihita bikuvura byihuse.

Imiti iri mu dukapu twayo cyangwa se udukarito twayo, inyuma haba handitseho icyo iyo miti ivura, iyi miti ikorwa mu bimera aho bigufasha kumera neza, iba ifite buri ndwara ivura ku buryo buri muntu yamuvura yifashishije iyi miti.

Ibimera bifite ibibabi binini, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho bukorwamo imiti ifasha umuntu kugira ngo amererwe neza, biba bifite indwara bivura.

Ahantu ni cyanyanya kinini ni ubutaka buteyemo ibyatsi ni ibimera byifashishwa mu muti wa gakondo aho bisoroma maze ugakoramo umuti ushaka bitewe n'indwara iyi miti ivura.

Bimwe mu bimera byifashishwa mu gukora imiti, hano bari kubisekura kugira ngo bibyare amazi cyangwa se umutobe, maze uwo mutobe ufashe abantu, bawunywe bakire, biba bivura indwara zigiye zitandukanye ku buryo ubikoresheje bimufasha.

Ibimera byitwa ibikarubamba byifashishwa mu gukora umuti, uvura indwara zigiye zitandukanye nyinshi, aho ubisoroma bigira amazi iyo bigiyemo mo imbere, ayo mazi ni nayo yifashishwa mu gukora umuti uvura indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye ndetse n'ibindi bintu bifashisha bakora imiti ya gakondo, babishyira ahantu hamwe, maze bakabikoramo umuti bashaka gukora, biba ari ubwoko butandukanye, ku buryo buri kintu gikenerwa kiri buboneke.

Ibihingwa byarakuze urabona ko byitaweho, bishobora kwifashishwa mu gukora umuti, bikifashishwa mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane bikora umuti mwiza, kandi ufasha umuntu gukira vuba bitewe n'indwara arwaye.

Ibimera byifashishwa mu miti ya gakondo bitewe n'umuntu indwara arwaye, iyi miti iba ifite indwara ivura, buri muntu uyikoresha aba abizi ku buryo ayifata akayikorera isuku maze agakoramo umuti ashaka bityo ikamufasha.

Tangawize irifashishwa mu ibintu bitandukanye ikora nk'umuti, ishobora kuvura indwara zitandukanye inkorora n'ibindi byinshi, aho uyifata ukayirya cyangwa se ukaba wayihonda, bityo ikaba umuti mwiza.

Umuti wo mu bwoko bwa gakondo wifashishwa mu kuvura abantu, uri mu dukarito twawo, haba handitseho izina ry'umuti n'icyo uvura, ku buryo buri muntu awifashisha yawusobanukiwe azi icyo ugiye kumufasha.

Bimwe mu bimera bifite utubabi twiza tw'umweru byifashishwa abaturage gukora imiti igiye itandukanye ya gakondo aho ifasha buri muntu ufite ikibazo iba ifite indwara nayo ivura.

Ahantu hapanze imiti hirya hari amazi n'ibindi byo kunywa, imiti irimo ni uy'ubwoko butandukanye, ku buryo ivura indwara zigiye zitandukanye, ikorwa mu bimera haba hari abantu bayicuruza ku buryo uyikenewe wayibona.

Ibimera bigiye gukorwamo imiti ya gakondo, barabifata bakabihuriza hamwe bigakora umuti umwe maze bikavura umuntu, biba bifite indwara bigiye bivura byose, hano hateretse ibimera byinshi biri buvanwemo umuti umwe.

Uretse imiti n'uducupa turimo imiti isukika harimo ivura ibigiye bitandukanye mu miti ya gakondo ku buryo ugenda bakayiguha buri wese ufite indwara uvura biba byanditseho n'inyuma ku buryo uwukoresha neza.

Ibimera bifite ibibabi, ibi byifashishwa mu gukora imiti iri buvure abantu, aho umuntu wabizobereyemo gukora iyi imiti, abisarura maze akabikorera isuku kugira ngo bize kuvura umuntu bifite isuku, akabisekura bigatanga umutobe ndetse n'ukundi kuntu abikoresha ubona ko nabyo biba bisa neza bitoshye.

Ibimera by'ibyatsi biri ahantu hamwe, byifashishwa mu gukora umiti, buri muntu yabikoresha kandi biba byizewe, aho ubifata ugakuramo umuti wifuza, maze ukazajya uwunywa ukagufasha mu ndwara ufite.

Umuti basaromye w'ibyatsi bawushyize ahantu hamwe hari umuntu uri kuwutegura kugira ngo akuremo umuti wa gakondo uri bufashe umuntu ufite indwara zigiye zitandukanye, imiti barayikora buri muti uba ufite indwara uvura kandi ugafasha umuntu neza.

Mu murima urimo ibiti byinshi, hari igiti gifite amashami maremare na cyo kirekire, kifashishwa mu gukora umuti wa gakondo, ufasha indwara zigiye zitandukanye, harimo inzoka, inkorora ndetse n'ibindi, uwo muti buri muntu yawukoresha kuko uravura ukamufasha vuba byihuse.

Umuti wo mu bimera uri mu icupa ryabugenewe kubikwamo, ukorwa mu bikakarubamba, ni bimwe mu bimera bisa icyatsi, bigira amazi yabyo ashobora kuvura umuntu bitewe n'indwara afite.

Amacupa arimo imiti ya gakondo ikorwa mu bimera atodetse ahantu hamwe aba ari ku murongo kuburyo umuntu aje kugura umuti bahita bamenye uwo bamuha kuko aba ari ku murongo, aba akozwe mu byatsi bigiye bitandukanye aho umuntu awunywa maze akamera neza ukamufasha.

Icupa riteretse riba ririmo ibinini bivura indwara runaka inyuma ku icupa haba handitseho indwara, ibinini bivura ku buryo ubikoresha amenya n'icyo agiye kuvura.

Imiti y'ubuvuzi yifashishwa mu kuvura ikorwa mu bimera iba iri mu dukombe igomba kuba ibikwamo; iba yakozwe neza ifite isuku ku buryo ifasha umuntu wese ufite ikibazo.

Imiti ya gakondo ni ibimera, barayifata bakayisoroma bakayikoresha mu miti itandukanye bitewe n'indwara umuntu arwaye bakamuvangira kugirango ibashe kumufasha amererwe neza, ifasha byihuse kandi iravura igakiza.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hano hari imiti iri mu bikombe byayo bya gakondo, aho umuntu aba azi indwara imiti ivura akaza akayigura, ubundi akajya kuyikoresha, isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu baba baje guhaha ibintu bigiye bitandukanye.

Ubwoko bw'ibihingwa cyangwa se ibimera byifashishwa mu bintu bitandukanye, hari ibiribwa, hari ibyifashishwa gukora imiti ifasha abantu mu burwayi baba bafite bakamererwa neza.

Umuganga ufasha abantu kubavura akabagira n'inima, akora imiti ya gakondo, aho aba ari kuvuga ati agira abantu inama agira ati: "nitutarya ibiryo nk'urya umuti tuzasigara turya imiti nk'ibiryo", iyi miti arayiguha ikagufasha mu ndwara ufite yose ku buryo umugana akagufasha.

Ikimera gifite ibibabi binini biringaniye kifashishwa mu muti bitewe n'ibisabwa kubihuza nabyo bakabihuza n'indi miti bikifashishwa gukora umuti umwe, bigafasha umuntu bitewe n'uburwayi afite.

Ibimera bifite uturabo tumeraho, byifashishwa mu bikorwa bitandukanye hari ugukora imiti aho bayivangavanga bakabyara nk'umuti umwe uri bufashe umuntu bitewe n'indwara afite, kandi uyu muti uba uvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye ikozwe mu bimera, hari ikozwe mu bikakarubamba n'ibindi bitandukanye, iri mu bikoresho byabugenewe, iba yararangije gukorwa maze igasukurwa neza igashyirwa mu bikoresho byayo, iyo umuntu ayikeneye kuyikoresha araza akayigura imiti, ahantu hagiye hatandukanye baba bayicuruza.

Udukombe dutondetse ku murongo ni utubikwamo imiti, aho buri gakombe kaba kanditseho umuti urimo ndetse n'icyo uvura. Iyo umuntu aje kugura umuti bahita bawumurebera ntabwo bimugora kuko biba biri ku murongo ndetse umuntu uyishinzwe azi aho iba ibitse.

Bimwe mumera bitandukanye bigiye bifite amabara kandi atandukanye, hari umuhondo umutuku, icyatsi ndetse n'ayandi mabara atandukanye, ibi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo aho bayivanga cyangwa se buri muti uba ufite indwara uvura.

Ibimera bikorwamo umuti byifashishwa mu miti igiye itandukanye bitewe n'umuntu uburwayi agiye kwivura, aho bayisukura maze bakayivanga n'ibindi byabugenewe kugira ngo ivure neza igafasha umuntu bitewe n'ikibazo afite.

Ibibabi by'ibimera byifashishwa mu bintu bitandukanye, bishobora kwifashishwa mu gukora umuti cyangwa se ibindi, gusa uyu muti bikora uba wizewe kandi urafasha, bitewe n'indwara urwaye, iyo muti uyivura urakira, bikamererwa neza kandi byihuse.

Igitunguru cyifashishwa mu ku kugiteka, nacyo kigira icyo gifasha mu buzima. Hari indimu kandi nayo, aho umuntu ashobora kuyirya cyangwa kuyivanga ashaka gukora ibindi byo kurya ku ruhande n'amavuta yifashishwa mu guteka.

Ibimera bitandukanye, hari ibiba bifite indabo, biba bifite ibibabi binini, birebire, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, aho iyi imiti ikorwa n'umuntu wabimenyereye kandi ubyize bigafasha umu...

Ibimera byo mu bwoko bw'icyatsi, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ifasha buri muntu, biba byose bifite indwara bivura. Ni amababi atoshye, ashamitse ku duti, manini, yifashishwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi.